Umwana muto cyane wambaye ishati y'iroza n'agakabutura k'ubururu, afite agakombe gafite imikondo ibiri akaba ari kuvoma amazi ku kigega. Iki kigega gisa umukara ndetse hasi hakaba hari inkuta zubakishijwe isima.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, bakaba bari mu bukangurambaga aho bafite ibyapa bigaragaza ingamba zafashwe kugira ngo abantu bose bagire ubuzima bwiza, twese tugomba kwiyitaho kugira ngo imibereho yacu igende neza.

Umwana muto wambaye impuzankano ya kake, mama we ari kumwoza mu biganza. Nk'uko bigaragara uyu mwana avuye ku ishuri, mama we abanza kumwoza mbere yo kumuha ibyo kurya, kugira ngo amurinde indwara ziterwa n'umwanda.

Umusore wambaye agapira k'umukara karimo uturongo tw'umweru, umuganga wambaye uturindantoki ari kumutera urukingo ku kuboko kwe kw'ibumoso, ibi rero Leta y'u Rwanda yabikoze kugira ngo irinde abaturage bayo indwara ya Kovid cumi n'icyenda.

Umwana muto cyane w'umuhungu ndetse n'undi w'umukobwa. Uw'umuhungu ari inyuma. Ari gukurura icyuma maze amazi akaza. Iri ni ivomero rusange Leta yubakiye abaturage. Kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza kandi babone amazi meza.

Abantu benshi cyane bahagaze ahantu hamwe. Hari umumama wambaye ijire ya Unicef, akaba afite amafishi ari kugenda ahereza ababyeyi bari hano. Nk'uko bigaragara bari mu gikorwa cyo kubigisha kwiyitaho kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza.

Umwana muto cyane wambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'agakabutura k'umukara, imbere ye hari indobo ifite umukondo ndetse n'umufuniko by'ubururu ariko isa umweru, hariho robine, uyu mwana rero ari gufungura amazi kugira ngo akarabe intoki.

Umugabo n'umugore bigaragara ko bakiri bato bagiye ku mujyanama w'ubuzima yabahaye intebe nziza cyane zegamirwa maze baricara, umujyanama w'ubuzima yambaye impuzankano y'ubururu, afite igipapuro mu ntoki ari kubasobanurira.

Ni inyubako y'ivuriro ikaba iryamyemo umumama uryamye ku gatanda k'abarwayi, hari umumama wambaye agapfukamunwa waje kumurwaza hakaba n'umuganga wambaye nawe agapfukamuwa. Yamushyize icyumviro ku nda, ari kumva niba ubuzima bw'umwana uyu mubyeyi atwite bukiriho.

Ahantu hateraniye abantu benshi cyane kandi bagiye batandukanye, turi kuhabona ihema ndetse n'imodoka itwara abarwayi izwi nk'imbangukiragutabara. Aha rero bakaba bari kubahugura ku bijyanye n'ubuzima ndetse n'uko bakwirinda indwara.

Abana bambaye impuzankano z'ishuri bakaba baje kuvoma amazi yo kunywa. Aha hari ameza ateretseho ibigega bisukura amazi bakaba bazanye udukombe kugira ngo bayanywe. Amazi ni buzima niyo mpamvu bayegereza abantu.

Umwana muto ufite icupa rya palasitike mu ntoki ahagaze imbere y'ikigega kiriho robine. Nk'uko bigaragara yaje kuvoma amazi, iki kigega kikaba cyubakishije amatafari ahiye hirya hakaba n'urundi rukuta rwubakishije amatafari ya boloke sima.

Aha ni ahantu habereye ubukangurambaga ku bijyanye n'ubuzima, ndetse bakaba bazanye inzobere z'abaganga, bakaba bazanye imodoka y'imbangukiragutabara, bateye amahema aho bari gusuzuma abaturage uburwayi babagira n'inama zo kubwirinda.

Aha ni mu nyubako y'ivuriro mo imbere harimo abantu bicaye bose bari kujya inama imbere yabo hateretse amacupa y'amazi buri wese ari gutanga igitekerezo cy'icyateza imbere ubuvuzi ndetse n'ubuzima bose bakagitega amatwi.

Aba ni abamama bagiye kwivuza, harimo umukobwa wicaye ku ntebe ya parasitike ufite ibitabo mu ntoki akaba ari kubisoma. Harimo umugabo wambaye akagofero k'umweru mu mutwe uteruye umwana ndetse hari n'umwana wicaye iruhande rwe.

iri ni ivomero ryiza cyane ryubatswe mu buryo bugezweho risize irangi ry'ubururu, hariho amarobine abiri; imwe ir ruguru indi iri hebwe hakaba hari abantu baje kuvoma ndetse hari n'umumama uri kuhogereza umwana.

Abantu bari kuvoma amazi ku ivomero rusange, turi kubona umumama ukenyeye ibitenge ari kuvoma akoresheje indobo, ndetse n'undi uri inyuma uri kumupompera kugirango ngo aya mazi aze.

Umwana muto wambaye agapira ka oranje, afite igikombe cy'umuhondo cy'icyuma, akaba ari gutega amazi kuri robine, izi robine zikura amazi mu kigega cyubakishije isima kiri hano.

N'inzu iteraniyemo abantu benshi cyane harimo abirabura ndetse n'abazungu nkuko biri kugaragara harimo abambaye impuzankano y'ubujyanama b'ubuzima hakaba harimo umuganga wambaye impuzankano y'abaganga ufite camera uri gufata amafoto.

Umumama wambaye ingofero y'umuhondo irimo utubara tw'ubururu, akaba yambaye impuzankano y'abaforomo y'icyatsi kibisi ndetse n'agapfukamunwa, ahagaze mu nyubako y'ivuriro akaba ari gusuzuma ngo arebe niba nta muntu urwaye.

Aba ni abaforomo ndetse n'inzobere mu by'ubuzima bakaba bateraniye ahantu hamwe bari kwifotoza, imbere yabo hari icyapa ndetse bari kwifotoreza imbere y'inzu yubakishije amatafari ahiye, hakaba hari amagambo yanditse ahari akarangi k'umweru yo yandikishijwe ibara ry'icyatsi kibisi agaragaza ko ari icyumba cy'inama.

Abantu bateraniye ahantu hamwe bakaba bateruye icyapa mu ntoki nk'uko bigaragara bambaye imipira y'ubururu kandi barishimye, imbere yabo hari amagambo yanditswe ,mu ibara ry'umweru agaragaza ko ari yunisefu.

Umusore wambaye ishati y'ubururu, ipantaro y'umukara, ndetse n'inkweto z'umukara, akandagiye kuri kandagira ukarabe ari koga intoki, kugira isuku ni byiza cyane kuko iyo ufite isuku ntushobora guhura n'uburwayi ubwo ari bwo bwose, ahubwo ugira ubuzima bwiza.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso, bamaze kuganirira hamwe ibijyanye n'uko bateza imbere ubuzima, inyuma yabo hakaba hari icyapa cy'ubururu kiriho amagambo yandikishijwe umweru.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe, nk'uko bigaragara bose bari kungurana ibitekerezo, harimo abirabura ndetse n'abazungu, umwe aratanga igitekerezo n'undi agatanga icye, nk'uko bigaragara rero bari kungurana ibitekerezo mu bijyanye n'ubuzima kandi bose bari bafite icyayi cyo kunywa.

Umwana muto cyane wambaye agapira k'umuhondo, agakabutura k'umukara. Ari kuvoma amazi ku ivomero rusange. Inyuma ye hari abandi bana baje kuvoma ndetse n'abantu bakuru. Aya mazi yegerejwe abaturage kugirango barusheho kugira ubuzima bwiza.

Leta y'u Rwanda yiyemeje kwegereza abaturage bayo serivisi z'ubuvuzi aha turi kubona ihema bubatse rikaba ryicayemo abantu baje guha inkingo ndetse n'imiti igiye itandukanye aha rero bakaba bari kuyibahera ku gihe.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe bari mu nyubako, iyi nyubako ikaba ifite inkuta zisize irangi ry'umuhondo, aba bose nkuko bigaragara bari mu mahugurwa yuko bagomba kwita ku buzima bwabo.

Aha ni abereye igikorwa cy'ubukangurambaga. Hakaba harimo idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda. Hari ihema bigaragara ko harimo abaganga, bari kugenda baha serivisi abafite ibibazo by'ubuzima. Ndetse bagasobanura n'abandi bose bari aho.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bakaba bari kungurana ibitekerezo ku bijyanye no kurinda abaturage uburwayi imbere yabo hari icyapa cy'ubururu kiriho amagambo yandikishijwe n'inyuguti z'umweru aho bagira bati "Buri mwana wese agomba kugira ibyiringiro".

Umwana muto cyane wambaye agapira ka oranje n'agakabutura k'ubururu. Afite igikombe cy'umuhondo ari gutega amazi ku ivomero rusange. Ni ikigega gisa umukara cyubakishije amatafari. Inyuma hari ibyatsi byiza cyane. Aya mazi ni meza.

Aba ni abantu bari mu nzu, bakaba bari kubyina bahagaze imbere y'intebe bari bicayeho, harimo intebe y'umukara, hakabamo ebyiri za porasitike z'umweru ndetse hari n'indi imwe ndende y'urubaho.

Umugabo wambaye amarinete, imbere ye hakaba hari irangi ry'ubururu, amagambo yandikishije ibara ry'umweru, aho bagira bati twirinde kandi dufate inkingo ziturinda uburwayi bugiye butandukanye.

Iki ni icyegeranyo cyakozwe na Minisiteri y'ubuzima, aho yagaragaje uko indwara zagiye zigabanyuka kuva bibiri na cumi n'umunani kugeza bibiri na makumyabiri na rimwe, aho bigaragaza mirongo itanu ku ijana na mirongo irindwi, ndetse mirongo irindwi na gatandatu, na mirongo irindwi n'icyenda.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe, imbere yabo hari abantu batatu bari kubagezaho ikiganiro. Iri ni huriro mpuzabikorwa, rigamije kwigira hamwe uko barwanya icyorezo cya Mabaga.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri isa nka kaki, bari ku mavomero afite amarobine atatu kandi agezweho, bose bateretse indobo z'umuhondo hasi bakaba bari kuvoma amazi ndetse abarangije bari gukaraba ku ntoki.

Ikigega kiri kuvamo amazi, turi kubona umuntu uri gukaraba intoki, gukaraba intoki ni byiza kimwe n'ibindi bice by'umubiri kuko iyo woze nta mwanda ugira, kandi iyo udafite umwanda ugira ubuzima bwiza.

Leta y'u Rwanda yafashe ingamba z'uko buri muturarwanda agomba kubonera ubuvuzi bw'ibanze ku gihe, aha rero turi kubona umuganga wambaye impuzankano y'umweru, akaba ari guha umuti akana gato cyane umubyeyi we ateruye.

Umwana wambaye agashati k'umuhondo agakabutura k'umutuku ari kuvoma ku ivomero rusange aho yateze ijerekani maze akaba arangaye. Arishimye cyane kuko leta y'u Rwanda yabegereje amazi maze ituma bagabanya urugendo bakoraga bajya kuvoma.

Umumama uteruye umwana yaje kuvoma amazi ku ivomero rusange ryubakishijwe isima hakaba hariho robine, yazanye indobo y'umukara aya mazi bose barayishimira kuko kuva bayabona basigaye bafite ubuzima bwiza.

Leta y'u Rwanda yafashe iya mbere kwegereza abaturage ubuvuzi. Aha ngaha rero turi kubona umuganga wagiye gukingira utwana duto, aho abamama batuzanye. Babateguriye intebe bicaraho za parasitiki. Umuganga na we yazanye agasanduku karimo imiti, ari gukingira abana.

Umumama w'umuzungu bigaragara ko ashaje, afite indangururamajwi mu ntoki, inyuma ye hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, kikaba gishushanyijeho ibintu hifashishijwe ibara ry'umweru.

Umusaza bigaragara ko ashaje, yicaye hasi ahantu mu isuzumiro ririmo abaforomo ndetse n'abaganga, bakaba bari kugenda bavura abantu bagiye batandukanye. Ubu ni ubumwe mu buryo leta yakoze kugira ngo yegereze serivisi z'ubuvuzi abaturage.

Umwana wambaye agashati ka gisirikare k'amaboko maremare, yambaye agakabutura k'umutuku ndetse n'inkweto za parasitike z'icyatsi kibisi. Ari kuvomera amazi mu ndobo. Nyuma yo kuvoma, ateze ibiganza na we ari kwinywera amazi.

Umwana wambaye agashati k'icyatsi kibisi ndetse n'agakabutura, ahagaze ku ivomero rusange rifite ibara ry'ubururu ndetse yamaze kuvomera mu ndobo z'ubururu ubu ari koga ku ntoki, koga ku ntoki ni byiza kuko birinda indwara ziterwa n'umwanda.

Iki ni igikorwa rusange cyo gutera imbuto ndetse n'imboga, aho bubaka uturima tw'igikoni kugira ngo twifashishwe maze buri muryango ubone ibikomoka ku mboga, maze birinde indwara.

Iri ni ivomero ryiza cyane ryubatswe mu buryo bugezweho rikaba ririmo amazi meza cyane kandi asukuye hari abantu baje kuvoma batandukanye kandi benshi hakaba hari amajerekani menshi bari kuvoma amazi bishimye kuko bagize amahirwe bakayegerezwa.

Leta y'u Rwanda ikora gahunda zo kwegereza serivisi z'ubuzima abaturage, aha turi kubona umuganga wambaye jire y'umukara ari kwereka umugabo wicaye hano ku ntebe inyuguti ziri ku cyapa kugira ngo barebe niba amaso ye akora neza.

Uyu ni umwana muto cyane. Akaba ari kuvoma mu kidendezi amazi. Ari gukoresha ibido y'umuhondo. Ibi ntago ari byiza kuko amazi mabi nk'aya, atera uburwayi bugiye butandukanye.

Aha ni mu nyubako y'ivuriro, zimwe mu ngamba leta yafashe kugirango abaturage bose bagire ubuzima bwiza ni ugukingira abantu igihe icyorezo cya kovide cumi n'icyenda cyari kirimbanyije, kugirango babarinde ubu burwayi.

Umwana muto wambaye urwenda two mutenge ari gukaraba intoki akayabira kuri robine amazi ari koga ari kugwa mu ibasi isa umukara gukaraba intoki ni kimwe mu bifasha abana kutarwara indwara zikomoka ku mwanda.

Abajyanama b'ubuzima bahuguwe ibintu byose cyane cyane ukuntu bashobora kuvura abana bakiri bato. Aha hari umugabo wambaye impuzankano y'abajyanama b'ubuzima akaba ahagararanye n'umuntu ukenyeye ibitenge akaba ari kumwereka igishushanyo yahuguriweho.

Abaturage bashyizwe ku isonga, aho iyo umuturage agiye kwivuza abaganga bamwitaho, ibyo adasobanukiwe bakabimusobanurira, aha hari abaganga imbere yabo hari mudasobwa, bakaba bari kwakira umumama waje ubagana.

Abagabo, abagore, abasore, ndetse n'inkumi bari kwifotoreza imbere y'ikigo nderabuzima ni nyuma y'uko bamaze gufata ingamba zo kwegereza abaturage ubuvuzi barabyishimiye.

Umugabo ugaragara igice cyo hejuru yambaye ikote ry'ubururu, ishati y'umweru ndetse na karuvati y'ubururu, hakaba hari kugaragara indwara agomba kwirinda ndetse akazirinda n'abaturage, aho avuga ko ibi tugomba kubyirinda cyane cyane indwara ya kanseri.

Abana bato cyane bambaye impuzankano y'umweru ndetse n'ubururu imbere yabo hari aba mama babo, bakaba bari kubaganiriza ku bijyanye n'ubuzima bwiza biri ahantu heza cyane kandi bose urabona ko bishimye.

Aha ngaha rero bari kukwereka ukuntu serivisi z'ubuvuzi zegerejwe abaturage nk'aha turi kubona umukobwa wambaye agapira k'umutuku ingofero y'umweru ndetse n'agapfukamunwa, akaba ari guha umuti umwana muto cyane wicaye ku ntebe.

Aba ni abajyanama b'ubuzima bicaye mu nyubako y'ikigo nderabuzima. Bakaba bari guhabwa amahugurwa kugira ngo na bo bajye bavura abaturage kandi babavure mu buryo bwa kinyamwuga, babashe kubonera ubuvuzi ku gihe.

Aba ni abana bambaye udupira dusa dufite ibara ry'ubururu, hakaba hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru Unisefu, aba bana bigaragara ko bameze neza bandi bafite ubuzima bwiza.

Akameza gateretseho udukarita tugiye dutandukanye turiho imiti, hakaba hari umugabo wambaye jire y'umukara igaragaza neza cyane yuko ari umwe mu bashinzwe kwita ku buzima bw'abana ndetse no kubushyira ku murongo.

Umukecuru uteruye akana imbere ye hari umuganga uri kugasuzuma, ari kumureba maze akandika. Ni byiza kwita ku bana ndetse na leta y'u Rwanda yahagurukiye kwegereza abaturage ubuvuzi bwiza.

Uwo mwana w'umukobwa wambaye impuzankano, akaba afite ishyaka ryo koga no gusukura umubiri we, ahagaze imbere ya kandagira ukarabe irimo akabase k'umuhondo, akaba ari gukaraba intoki akoresheje amazi meza ndetse n'isabune.

Uyu ni umumama uteruye umwana we, yambaye agapfukamunwa ariko ameze nk'uri kumuha akabizo kutama, ni byiza kwita ku mwana kuko bituma agira ubuzima bwiza, ntago ari we wenyine uri hano kuko n'inyuma ye hari undi.

Abana babiri bose bambaye udushati tw'umutuku, bahagaze imbere y'ikimera cyiza cyane gifite ibara ry'icyatsi kibisi, bari koga ku ntoki, koga ku ntoki ni umuco mwiza kuko birinda zimwe mu ndwara ziterwa n'umwanda.

Aba ni abantu bamaze guhugurwa bambaye imipira isa y'ubururu ndetse n'ingofero zisa z'umweru, inyuma yabo hari icyapa bakaba bahagaze imbere y'inyubako bigaragara ko ari iy'ivuriro.

Umumama wambaye agapira k'icyatsi kibisi akaba ahetse umwana we, ari koza indobo yaje kuvomeramo, ari imbere y'ivomero rusange rikikijwe n'ibiti byiza cyane bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ku bahavomera.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano za kaki bari gukaraba intoki, bari gukarabira ku mavomero rusange agizwe n'amarobine atatu bose bateze indabo z'umuhondo hasi maze bari gukaraba intoki nk'umwe mu muco uranga abanyarwanda.

Umugabo muremure uri guseka yambaye ishati irimo uturongo ndetse n'ipantaro y'umukara yatebeje. Akaba yicaye imbere y'ivomero rusange, bigaragara neza ko anejejwe nuko leta y'u Rwanda yabegereje amazi meza kandi asukuye.

Iyi ni inyubako y'ivuriro hakaba harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'uturindantoki, ari kuvura umwana uteruwe n'umubyeyi. Ni byiza ko abaganga bavura abarwayi babishimiye kugira ngo batiheba.

Abana babiri umwe yambaye agapira k'umutuku, undi yambaye agashati n'agapantaro by'ibitenge, bombi bari koga kuri robine, abana iyo boze meza kandi n'isabune, bibarinda guhura n'indwara ziterwa n'umwanda.

Abantu babiri bari ku ivomero rusange ryiza cyane ryubakishije sima, akabariho amarobine atatu, ariko kabiri akaba ariyo akora, aba bari kuvoma bishimye, Leta y'u Rwanda yegereje amazi meza abaturage, kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza kandi bayabonere ku gihe.

Abantu batanu bicaye mu nzu nziza cyane imbere yabo hari ameza bicaye mu ntebe nziza cyane z'imitego ndetse z'umukara zikaraga, bari kugenda bungurana ibitekerezo ku bijyanye no guteza imbere ubuzima ku rwego mpuzamahanga.

Abamama babiri bicaye mu ntebe nziza cyane z'umukara inyuma yabo hari ibitambaro by'ubururu biririmo utubara tw'umweru, barishimye cyane bakaba bari gutambutsa ikiganiro kijyanye n'ubuzima, abari imbere yabo nabo barabakurikiye.

Abantu bateraniye muri sale y'inama, bafite indangururamajwi mu ntoki ndetse hari na mudasobwa ziri imbere yabo, bakaba bafite n'amacupa y'amazi abarinda gusinzira, bari gutanga ikiganiro cyerekeranye no kubungabunga ubuzima.

Abamama, abana ndetse n'umupapa wambaye kositimu, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, bakaba bari bari kuganiriza abana maze bakaba bishimiye igikorwa bakoze cyo kuganiriza abo bana, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso hano.

Umwana muto cyane wambaye impuzankano y'ishuri akaba ari gukarabira intoki kuri robine, nk'uko bigaragara uyu mwana agira isuku kuko asa neza ku myambaro ye ndetse ari koga n'intoki kugira akomeze yirinde uburwayi ubwo aribwo bwose bwaturuka ku mwanda.

Abagabo babiri bigaragara ko bicaye imbere y'abantu bari kugezaho imbwirwaruhame. Imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umuhondo ndetse hakaba hateretseho amacupa y'amazi n'ibitabo byabo bazanye ndetse n'amatelefone yabo.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bakaba bambaye impuzankano y'abaganga, inyuma yabo hari icyapa kigaragaza Ikigo cy'Igihugu gishinzwe kubungabunga ubuzima, bose bafatiye hamwe ingamba zo gukorera hamwe ndetse no kubungabunga ubuzima.

Aba ni abamama baba mu bakorerabushake batabara abantu bazwi nka kuruwa ruje bakaba bavuye mu gikorwa, aha rero bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso kugira ngo bajye bibuka igikorwa bakoze uyu munsi.

Abaganga ndetse n'abaturage bahagaze hanze y'ivuriro, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, bari batashye ivuriro ryiza cyane rifite inkuta ziriho amarangi y'ubururu ndetse hejuru hari amagambo yanditseho agira ati gira ubuzima.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bicaye mu ihema rifite amabara y'icyatsi umuhondo ndetse n'ubururu, imbere yabo hari umugabo ufite indangururamajwi, bigaragara ko ariwe uri gutanga ikiganiro ku bijyanye n'ubuzima.

Umumama uteruye umwana, nk'uko bigaragara, yamuzanye kwa muganga kumuhaesha umuti wa vitamini. Umuganga na we arimo kuwumuha. Ni byiza kwita ku mwana, kuko bituma agira ubuzima bwiza, abikomoye ku babyeyi be.

Umugabo uri koza igare wambaye ishati y'umuhondo, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto za parasitike z'umuhondo ndetse hari n'umumama uhagaze mu mugezi rwagati uri kuvoma amazi, aya mazi ashobora gutera umuryango wawe indwara ntukayavome.

Abajyanama b'ubuzima bamaze guhabwa amahugurwa, bahagaze ahantu heza cyane hashashe amapave, bambaye impuzankano y'ubururu ndetse bose bafite amatelefone mu ntoki, inyuma yabo hari igiti cyiza cyane kirekire.

Ibiganza by'umuntu biri gukaraba intoki, amazi ari kuva muri robine y'icyuma, ni byiza gukaraba ku ntoki kuko bifasha abantu kugira isuku ku buryo igihe icyo ari cyo cyose wicara ufite intoki nziza kandi zisukuye.

Aba ni abantu bari gufata ifoto y'urwibutso. Imbere yabo hari ibendera ry'u Rwanda riri mu mabara y'icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu. Inyuma yabo hari icyapa cy'ubururu kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru. Aba bose barishimye bafatiye hamwe ingamba zo kubungabunga ubuzima.

Aba n'abantu bateraniye ahantu hamwe, abagabo bambaye amakote meza cyane ndetse n'inkweto nziza ndetse n'abadamu bambaye imyenda myiza harimo abambaye amabaji mu ijosi, inyuma yabo biri kugaragaza y'uko bagize ihuriro ryiga ku buzima.

Umugabo wambaye agapira ka oranje ari gukora mu biganza by'umwana muto cyane wambaye agashati ka mukarokaro. Uyu mugabo rero ari kuganiriza aba bigaragara yuko aba bana bagiye bafite ibibazo bigiye bitandukanye, ariko bakaba babitayeho kugira ngo babishakire ibisubizo bagire ubuzima bwiza.

Iri ni ivomero rusange ryubatswe ryubakiwe abaturage mu rwego kugira ngo babashe kubona amazi meza kandi asukuye, kugira ngo uvome bisaba ko ujya inyuma ugapompa kiriya cyuma maze amazi akaza ukavoma.

Umumama uteruye akana kambaye umupira wa oranje, aka kana kakaba kari kurebana n'umusore wambaye amarinete ndetse n'agapira ka oranje, mu mugongo handitsemo amagambo y'umweru, uyu musore yishimiye uyu mwana ari kugaragaza y'uko uyu mwana agiye kugira ubuzima bwiza.

Iyi n'inyubako yagenewe gushyirwamo imyanda, aha ngaha rero baragenda bakegeranya imyanda yose bakayihashyira, mu rwego rwo kugira ngo birinde umwanda mu baturage no guteza imbere ubuzima bwiza bwa muntu bayishyiraha.

Abajyanama b'ubuzima, abaganga ndetse n'inzobere kabuhariwe mu bijyanye n'ubuzima. Ni umuzungu wambaye amarinete, ikote ry'umukara ndetse na karuvati. Bamaze gufata amahugurwa y'ibijyanye no kurengera ubuzima. Aha bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umugabo bigaragara ko yasaze, yiziritse amaguru, yambaye igitenge ndetse n'agapira k'ubururu n'umweru k'ijezi, yicaye mu nzu ubona ko yasenyutse, yaharambuye ibitenge ndetse n'ibiringiti, uyu mugabo ubwonko bwe ntabwo bukora neza yarahungabanye.

Uyu ni umugabo bigaragara ko yahuye n'ikibazo cy'ihungabana yambaye ikote rya kositimu imbere ye hari ururabo rurimo n'izindi ndabo, yunamye cyane nk'uko bigaragara yahuye n'ikibazo cy'ihungabana ubwonko bwe ntiburi gukora neza.

Umumama uteze igitambaro cyo mu gitenge, yakambije agahanga bigaragara ko ubwonko bwe bwatokowe. Ntari gutekereza neza ahubwo yarakaye cyane, akeneye umuntu umuganiriza kugira ngo ubwonko bwe bwongere bukore neza.

Abantu benshi cyane bahagaze mu nyubako, bamaze kuganira ku bijyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange, aha rero bahagaze imbere y'intebe bari gufata ifoto y'urwibutso bigaragaza yuko bahuye.

Umusore bigaragara ko afite ikibazo cy'ihungabana, yegamye ahantu hari urukuta rushaje mu kayira. Yambaye imyenda idaheruka gufurwa ndetse yicaye ku makarito, imbere ye hari ibishashi byinshi cyane. Uyu musore rero ubwonko bwe ntabwo bukora neza.

Umumama wambaye agapira k'icyatsi kibisi akaba afite igitenge cy'umuhondo kirimo utundi tubara yicaye ahantu nk'uko bigaragara ntago anezerewe ahubwo afite ibibazo byinshi cyane ubwonko bwe ntiburi gukora neza.

Ni umusore bigaragara ko yataye ubwenge, yicaye mu gipe cy'imodoka mo hagati. Afite ibisatsi byinshi ndetse n'ibyanwa, nta nkweto yambaye. Nk'uko bigaragara, uyu musore yataye ubwenge akeneye kwitabwaho agashyikirizwa abaganga maze bakamuvura.

Abantu bateraniye mu ihema, bakaba bahagaze bose, barahagurutse ngo bafate ifoto y'urwibutso, imbere yabo hari igipurizo gisa umutuku, hakaba hari na mudasobwa ndetse bose bari bari gufatira hamwe ingamba z'ukuntu ubuzima bwo mu mutwe bw'abantu bwabungwabungwa.

Abamama batatu bahagaze ahantu hamwe, bose bafite ibiti mu ntoki, nk'uko bigaragara uri hagati ariko konsa umwana inyuma yabo hari ibiti, amatsina ndetse n'amashyamba atanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ku banyura aho.

Iyi ni inyubako y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho ikaba isize irangi ry'umweru muri iyo nyubako hakaba harimo amakaro imbere yayo hari ibiti byiza cyane by'imikindo ndetse hasashe n'amapav mu nzira.

Nk'uko bigaragara aha turi kubona abantu basa nk'aho bayoboye inama harimo umumama wambaye ikote ry'ubururu akaba afite indangururamajwi mu ntoki bigaragara ko hari abo ari kubwira kandi bamukurikiye.

Umusore bigaragara ko yahungabanye yambaye ikigofero mu mutwe akaba yambaye imyenda byinshi ndetse yipfutse n'utuntu mu maso, uyu musore akwiye kuganirizwa ndetse akajyanwa no kwa muganga kugira ngo ahabwe ubufasha.

Iyo umuryango ufite ibibazo by'ubukene, ubaho uhangayitse kandi ufite ibibazo bigiye bitandukanye byo mu mutwe. Ugasanga ubwonko bw'abana bo mu miryango nk'iyi ntibujya bukura.

Abakobwa babiri bicaye hasi umwe yambaye imyenda y'umutuku undi yambaye iy'imikara uwambaye iy'imituku yambaye n'ingofero n'aho uwambaye iy'imikara yambaye amarinete uw'umutuku yitangiriye itama bigaragara ko afite ibibazo bigiye bitandukanye byo mu mutwe mugenzi we akaba ari kumugira inama.

Umumama wambaye agapira karimo uturongo tw'umukara ndetse n'utw'umuhondo, aho hantu hari abantu benshi cyane, hari umwana wikoreye amaboko uri kurira, bigaragara ko iyi miryango iri hano ibayeho nabi cyane, abana babo bakaba bafite ibibazo bikomeye cyane byo mu mitekerereze.

Aba ni abantu bari kwifotoza bari kwifotoreza imbere y'icyapa kiriho ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda, inyuma hari imikindo myiza cyane bigaragara ko itohagiye, ndetse aba bakaba bafite ibyangombwa by'uko bitabiriye amahugurwa y'ibijyanye n'ubujyanama ku bahuye n'ihungabana.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari guhabwa amahugurwa y'ibijyanye n'ubuzima ndetse n'imikorere y'ubwonko, aho bose bakurikiye, nta n'umwe urangaye kandi ibyo bari guhabwa ni ingirakamaro.

Umugabo wambaye ibyenda byacikaguritse akaba afite ibyanwa bibi ndetse n'ibisatsi byinshi ahagaze mu muhanda nk'uko bigaragara uyu mugabo afite ikibazo cyo mu mutwe akeneye ubujyanama kugira ngo nawe yongere abe muzima.

Umusore wambaye ishati y'amaboko maremare afite umusatsi w'umukara akaba yubitse umutwe mu biganza bye, aho bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe ubwonko bwe bukaba butari gukora neza hari umwana umuri imbere uri kumukoraho agerageza kumuhumuriza.

Umu mama uteruye akana ke, aka kana kari guseka, kandi karishimye, iyo ababyeyi bitaye ku bana babo mu minsi igihumbi, bituma ubwonko bwabo bukura neza, bityo bagakura ari intyoza mu byo bakora byose.

Umusore wambaye ubusa umubiri wose yiziritse ibintu ku maguru yicaye mu nzu ahantu hasi bigaragara ko hari ibyondo, uyu musore akaba afite ikibazo cyo mu mutwe, akeneye ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo yongere agire ubuzima bwiza.

Aba n'abana bafite ibibazo bigiye bitandukanye bafite inzara ndetse n'imyenda bambaye irashaje cyane iyo umwana abaho adafite uwo umwitaho akura n'ibibazo byinshi byo mu mutwe bityo n'imitekerereze ye ikaba ari nayo.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari kuganirizwa ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imikorere y'ubwonko muri rusange, iyo ufite ubuzima bwiza ugatekereza neza bityo ubuzima bwawe bugenda neza cyane.

Umukecuru wahuye n'ikibazo cy'ihungabana. Yarasaze ubwoko bwe ntibugikora neza. Yicaye hasi yambaye ibyenda byinshi cyane ndetse bishaje kandi byacitse. Imbere ye hari ibicupa yatoraguye. Nk'uko bigaragara akeneye ubujyanama.

Umumama uteze igitambaro cyo mu gitenge akaba yambaye ishati y'igitenge, amaso ye ndetse n'isura ye byarikunje asa nk'ushaka kurira, uyu mama ashobora kuba afite ibibazo biguye bitandukanye byo mu bwonko

Umumama uri mu iduka ucuruje, iri duka rikaba ririmo ibirungo bigiye bitandukanye harimo asante, salisa ndetse na bulubandi, uyu mumama rero yambaye ijiri y'umuhondo bigaragara ko yishimye.

Abana bato kandi rwose bigaragara ko bishimye, bateraniye ahantu hamwe. Nk'uko bigaragara, bari kubaganiriza ku bijyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe. Aho babaganiriza, bakareba niba ubwonko bwabo bukora neza.

Aba ni abantu bicaye mu nyubako y'ivuriro, hakaba harimo umugabo wambaye ishati y'umutuku irimo amabara y'umweru ndetse n'umukara, yambaye isaha ku kuboko n'agapfukamunwa, imbere ye hari icyapa akaba afite marikei mu ntoki ari kugenda abasobanurira.

Umukecuru wibana, yicaye hanze. Aha hantu hari akajagari k'ibintu arasa nabi, imifuniko yayijugunye ndetse n'ibikombe, akaba atetse igikoma mu isafuriya iteretse ku bibuye ahantu. Uyu mukecuru bigaragara ko yahuye n'ikibazo cy'ihungabana, ubwonko bwe butagikora neza.

Uyu ni umusore uri kurira amarira ari gutemba mu maso ndetse no ku matama, bikaba bigaragara ko afite ibibazo bigiye bitandukanye. Iyo ufite ibibazo ubwonko bwawe ntibukora neza mbese uba wahungabanye ukeneye abajyanama.

Umugabo bigaragara ko yariye karume, akaba yegamiye urukuta na rwo rushaje, yambaye ibyenda byacikaguritse, yambaye urukweto rumwe, bigaragara ko adaheruka koga, uyu mugabo yahuye n'ikibazo cy'ihungabana, ubwonko bwe ntabwo bukora neza.

Aba ni abantu babiri bari gusuhuzanya bakoresheje inkokora, ibi byarabaye mu gihe icyorezo cya kovide cumi n'icyenda cyari kirimbanyije kuko ntawahaga undi akaboko, kabone n'ufite ibibazo byo mu mutwe icyo yarakizirikanaga.

Umugabo wambaye agapira k'umuhondo afite utwanwa duke ndetse akaba afite n'amenyo meza uyu mugabo ubwonko bwe bukora neza kuko na we ubwe ameze neza ni byiza ko twese dukora iyo bwabaga kugira ngo tumere neza.

Umusore bigaragara neza cyane ko ari kugorora amenyo ye ari kugenda ayagorora gake gake kugira ngo n'iryagoramye rigororoke, uyu mwanzuro yawufashe nyuma yo kubona yuko hari amenyo yiwe amwe n'mwe afite ikibazo.

Umwari mwiza cyane ufite imisatsi myiza y'umukara akaba yatonnze intoki ze ebyiri ku menyo ye, ariko kutwereka amenyo meza cyane yu'mweru yererana aho ayarinda umwanda kugirango akomeze ayasigasire ayarinde uburwayi.

Umusore uryamye hasi. Muganga yamwambitse ikintu ku munwa akaba ari kumuvura amenyo. Nk'uko bigaragara aramukuye iryinyo ndetse anamwogereze. Uyu musore rero yafashe umwanzuro ajya kwa muganga kugira ngo bamuvure maze amenyo ye amere neza.

Aha habaye igikorwa cyo gusuzuma uburwayi bw'amenyo ndetse n'ubundi burwayi bwo mu kanwa, hakaba hari abantu bambaye imyenda y'icyatsi kibisi irimo amagambo yandikishije ibara ry'umuhondo agira ati "tubitayeho".

Iki ni igikanka kigaragaza amenyo y'umuntu uko ari mirongo itatu n'abiri abaganga bakigiraho aho bareba buri ryinyo n'aho riherereye ku buryo iyo ugiye kwivuzayo ukababwira iryinyo urwaye bahita barimenya maze bakarivura.

Uumusore ufite akantu k'agapalastike kari mu ishusho y'amenyo arasamye agiye kugashyiramo kugira ngo aya menyo ye ayarinde ibyayakomeretse, nawe niba ujya urwara amenyo jya uyarinda umwanda.

Umusore wambaye agapira k'umweru ari kureba mu kirahure afite urudodo mu ntoki ari kurugoroza amenyo ye, kugorora amenyo ni byiza kuko bituma ahora ku murongo bikagabanya akajagari kayo.

Umwana muto cyane ufite imisatsi y'amarenndi imanutse ikora mu maso afite urudodo rw'umweruru mu ntoki akaba ari kugorora amenyo ye afite amenyo yererana ariko muganga yamubwiye ko agomba kujya ayagoroza urudodo buri gitondo.

Umugabo w'umuzungu ari kureba ku ishusho iri imbere ye, hakaba hariho ibishushanyo bigiye bitandukanye, akaba ari kwitegereza cyane kugira ngo arebe ukuntu azajya avura amenyo, aha aya ari kureba hariho imizi y'amenyo miremire.

Umukobwa ufite amenyo meza cyane afite uburoso bw'amenyo ateze igitambaro yambaye agasengengeri k'umweru akaba ari koza amenyo ye kugira ngo ayasukure maze ayarinde uburwayi buterwa n'umwanda.

Inyubako nziza cyane y'ishuri, harimo abana bato cyane bambaye impuzankano, hakabamo n'abanyeshuri ndetse n'ababyeyi n'abarezi babo, nk'uko tubibona bose bafite umuti w'amenyo ndetse n'uburoso bw'amenyo mu ntoki.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, hasi hasashe amapave. Ku nkuta hariho amabuye ndetse hakaba hari na rigori igiye iriho ibintu bikoze mu isima. Iyi nyubako ni nziza cyane, yubakishijwe n'ibirahure. Bigaragara ko hivurizamo abantu bakize.

Umwana muto cyane wicaye mu ntebe y'ubururu, afite uburoso bw'amenyo akaba nawe ari kwiyogereza amenyo ye, kugirango ayarinde umwanda ahubwo ayahe isuku ihoraho.

Aha ni kwa muganga, ni mu cyumba kivurirwamo amenyo, hari umumama uryamye ku gatanda, hakaba abaganga babiri bambaye impuzankano z'abaganga, harimo uwambaye iy'icyatsi kibisi ndetse n'undi wambaye iy'umweru, bose bambaye uturindantoki ndetse n'udupfukamunwa.

Umusaza bigaragara cyane yuko akuze, akaba ari aho bavurira amenyo, yambaye uturinete ari kwireba nk'uko bigaragara agiye koza amenyo ye kugira ngo agire isuku.

Bano bantu bari kureba amenyo yabo. Ni byiza ko duhora dusuzuma amenyo yacu tukareba niba nta burwayi afite, kuko iyo ubimenye kare uyavuza atararengerana.

Aha ni mu nyubako yo kwa muganga, hakaba araho havurirwa amenyo, aha hari umuganga uri gusuzuma amenyo, uyu muganga yambaye impuzankano y'umweru, uturindantoki tw'umweru ndetse afite n'urwuma ari gukoresha asuzuma uyu mwana.

Umusore uhagaze aremye arasamye afite urudodo rw'umweru ari kurushyira mu menyo maze akayagorora, bigaragara yuko muganga yamubwiye ko agomba kujya agorora amenyo ye kugira ngo akomeze amere neza.

Umusore washyize urudodo mu menyo, ari kugerageza kuyagorora. Nk'uko bigaragara, muganga yamweretse yuko amenyo ye ashobora kuyigororera akoresheje urudodo. None na we arabikora kandi akabikora neza nk'uko muganga yabimubwiye.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri, bose bafite umuti w'amenyo mu ntoki ndetse n'uburoso bw'amenyo, babizamuye hejuru barishimye. Ni byiza kugirira isuka amenyo, kuko iyo urwaye iryinyo rirakurya cyane.

Umuganga wambaye impuzankano y'abaganga akaba yambaye uturindantoki tw'ubururu, afite icyuma kiriho utuntu twinshi, akaba agiye kugishyira mu kanwa k'uyu musore uryamye ku gatanda kugira ngo arebe iryinyo rirwaye.

Uyu ni umusore uryamye kwa muganga aho bavurira uburwayi bw'amenyo. Yambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'uturindantoki tw'ubururu. Akaba yambaye ingofero ndetse n'agapfukamunwa. Yashyize icyuma uyu mugabo mu kanwa, akaba ari kumuvura amenyo aho bigaragara ko ari kumwogereza.

Umwana muto cyane, yicaye mu cyumba kivurirwamo amenyo kwa muganga, muganga yambaye uturindantoki. Yamushyizemo akuma kariho akarahuri, aho agashyira mu kanwa, maze akamenya iryinyo rirwaye.

Igishushanyo kigaragaza amenyo y'umuntu uko ari mirongo itatu n'abiri. Aha rero abaganga bakunze kwigira kuri ibi bishushanyo, kugira umurwayi najya kwivuza agende akivuga iryinyo arwaye bahite barimenya. Nawe niba urwaye iryinyo jya kuryivuriza ahari inzobere.

Umusore wambaye agapira k'umweru akaba afite urudodo mu ntoki ari kugenda agorora amenyo ye ndetse akuramo n'utwanda turi hagati y'amenyo, ibi bifasha amenyo kumera neza kuko ntamikorobe ziba zasigayemo.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, aha rero bahavurira uburwayi bw'amenyo, harimo ibikoresho byinshi cyane byifashishwa, mu gihe bari kuvura, hari igitanda kijya gusa na oranje, hakaba n'agatebe bisa, ndetse harimo n'imashini zigenda zitanga umuyaga.

Ubu ni ubukangurambaga bwabaye mu bigo by'amashuri hari umwana wambaye impuzankano y'icyatsi kibisi hakaba hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru ari kugenda amusobanurira amenyo ndetse n'uburwayi ashobora kugira.

Aha ni mu cyumba abarwaye amenyo bavurirwamo, harimo agatanda kariho ibara ry'amove, baryamishaho umurwayi mu gihe bagiye kumuvura, hakaba agatebe muganga yicaraho, ndetse n'ibyuma akoresha mu gihe ari kuvura.

Iki ni igishushanyo kigaragaza amenyo y'umuntu yose uko ari mirongo itatu n'abiri, aha ngaha abaganga bakunze kugikoresha mu gihe bari kwihugura kugira ngo umurwayi ugiye kwivuza babe bazi ubwoko bw'amenyo.

Abana bato cyane bose bafite uburoso bw'amenyo. Nkuko bigaragara hariho umuti, bari bari koza amenyo. Ni byiza koza amenyo murwego rwo kugira ngo hirindwe indwara z'amenyo.

Uyu mwari ari kugerageza kugorora amenyo ye akoresheje akuma yahawe na muganga, aka ngaka rero ugashyiramo urudodo ukihaganyura amenyo yose agasukurwa, aho ugenda ukuramo imyanda hagati ya buri ryinyo.

Abana bato bambaye impuzankano y'ishuri bose bafite uburoso bw'amenyo ndetse nk'uko bigaragara hari hariho umuti w'amenyo, bakaba bari koza amenyo yabo bose bafite udukombe mu ntoki. Ni byiza gutoza abana kugirira amenyo yabo isuku kuko biyarinda.

Aha ni kwa muganga mu cyumba kivurirwamo amenyo ndetse harimo umuganga wambaye impuzankano y'abaganga y'umweru, agapfukamunwa k'umweru ndetse n'amarineti yabugenewe yo muri laboratwari, ari imbere y'amamashini menshi cyane bigaragara ko ari mu bushakashatsi.

Umumama wambaye gasengengeri k'umweru, ari kumwe n'akana ke gato nako kambaye isengeri y'umweru. Bose bafite uburoso bw'amenyo ndetse n'umuti w'amenyo, akaba ari kumwigisha uko boza amenyo .Kugira ngo bayarinde indwara ziterwa n'umwanda.

Umusaza bigaragara yuko akuze yambaye agapira k'ubururu akaba afite mbi mu bwanwa ndetse no mu musatsi, hari umuforomokazi wambaye impuzankano y'abaforomo y'umweru akaba arimo kumuteruza akuma kugira ngo agorore ingingo ze.

Umupapa wambaye agapira k'umweru ndetse uyu mupapa nk'uko bigaragara arashaje. Hari umuforomokazi uri kumwitaho wambaye impuzankano y'abaforomo y'ubururu ndetse n'ibaji mu ijosi. Yambaye isaha y'umukara ku kuboko. Afite akantu ari kumuha ngo afate mu ntoki maze agorore imitsi.

Uwo umukecuru ndetse n'umuganga ufite ubwanwa bwinshi ndetse akaba yambaye n'impuzankano, afite icyumviro mu ntoki. Uyu mukecuru ashimishijwe no kuba ari kumwe n'uyu muganga, bose bari kubikora bishimye kandi baseka.

Umusaza ari kumwe n'umumama we ukiri muto imbere yabo hari mudasobwa ndetse uwo musaza afite agacupa k'umuti bigaragara neza y'uko uyu mumama ari kureba mudasobwa uko uyu muti ukoreshwa ndetse n'uyu musaza ari gusoma ku kapa kawanditseho.

Umumama bigaragara yuko akuze yarambuye umukeka hasi mu nyubako akaba arimo akora siporo yambaye agasengeri ka oranje, mo imbere hakaba harimo akandi gato k'umweru ari kugorora umugongo, amaguru ndetse n'amaboko.

Umusaza bigaragara yuko akuze, ari kumwe n'umuforomokazi uri kumutambutsa gake gake afashe ku twuma tumufasha kugenda kugira ngo atagwa, uyu musaza yambaye agapira k'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, bakaba bari mu nyubako nziza.

Umugabo bigaragara y'uko ashaje, yambaye agapfukamunwa. Afite ikibyimba hejuru y'izuru. Uyu mugabo yambaye ishati y'ubururu yicaye mu ntebe ya purasitiki. Hari umukobwa bigaragara ko ari umuforomokazi wambaye agapfukamunwa ndetse n'imyenda y'icyatsi kibisi uri kumwitaho.

Umukecuru bigaragara ko ashaje akaba yicaye imbere y'ameza akaba afite ikirahureri cy'amazi ndetse hari umuforomokazi wambaye impuzankano y'ubururu akaba afite ikinini mu ntoki agiye kukimuhereza, hasi ku meza hari ikarito irimo indi miti.

Umusaza bigaragara ko akuze yambaye ishati ya kaki, akaba ari kwisuzumisha umuvuduko w'amaraso, muganga yamushyizeho icyuma kiwupima ndetse uyu muganga yambaye impuzankano y'abaganga y'umweru.

Umukecuru wicaye hasi, yambaye agapira k'umuhondo, yambaye marinete ndetse ateze n'igitambaro. Hakaba hari umuganga wambaye impuzankano y'ubururu uri kugenda umwitaho, maze bose bagaseka, bakishima.

Abantu benshi cyane bicaye bazengurutse ndetse bicaye mu buryo bw'uruziga. Bicaye munsi y'igiti kinini kandi gifite amababi meza, ubona ko gitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi. Bambaye imyenda irimo amabara agiye atandukanye. Nk'uko bigaragara, bari kuganira kugira ngo abana babashe kumva impanuro z'abantu bakuru.

Umusaza ndetse n'umukecuru bari munzu. Umusaza afite imiti mu ntoki, umukecuru ari kureba uko ikoreshwa, ku meza hateretse udukombe turimo amazi ndetse n'utundi ducupa tw'imiti nk'uko bigaragara bagiye gufata imiti bandikiwe na muganga.

Umukecuru bigaragara yuko ashaje ariko ari guseka bihebuje, kuko ari kumwe n'umwana we ndetse n'umwuzukuru we burya nta kiza nko gusazira mu bawe kuko baragutetesha nawe ugatotona.

Umukecuru bigaragara yuko akuze, yambaye umupira w'amaboko maremare, akaba afite agatambaro k'iroze, ari kugenda akagorora agorora ingingo ze, ahagararanye n'umuforomokazi wambaye impuzankano y'umukara, ari kugenda abimufashamo umukecuru akishima.

Umukecuru wicaye ahantu hanze cyane, bigaragara ko yibana, uyu mukecuru atetse ku mashyi y'ibyondo yateretseho amasafuriya asa umukara, imbere ye hari ibihuru byinshi cyane. Uyu mukecuru akeneye abantu bamwitaho kugira ngo nawe agire ubuzima bwiza.

Aha n'imunyubako irimo abantu bakuze, aba bantu bakaba bari kugenda babitaho ni byiza kumenya ndetse no kwita ku bantu bakuze kuko nabo bibongerera akanyamuneza maze bakishimira ubuzima babayemo.

Aba ni abantu bakuru bari kumwe n'abana, ni byiza ko ababyeyi basabana n'abana babo mu gihe bageze mu zabukuru kuko birabashimisha, nawe nukura uzishimire kubana n'umuryango wawe neza kandi mwishimiranye.

Umugabo bigaragara y'uko akuze yambaye ishati y'ubururu ndetse n'amarinete, ari kumwe n'umuforomokazi w'umuzungu, ari kugenda amutwara gake gake bose bari guseka, bigaragara ko bishimiranye.

Umukecuru wambaye ijaketi ndetse n'isengeri afite imisatsi miremire ariko irimo imvi, akaba afite udukoresho tubiri mu maboko ye ari gukoresha agorora imitsi ye, siporo ni ubuzima.

Umusaza bigaragara ko akuze yambaye amarinete. Yambaye n'agapira k'umweru karimo uturongo. Ari kumwe n'umwana we w'inzobe, bakaba bari gusoma igitabo. Aho umusaza yishimye cyane kandi yasetse. Imbere yabo ku meza hateretse udukombe tubiri tw'umweru.

Umukecuru ushaje cyane imvi zabaye uruyenzi umusatsi we urererana yambaye agapira k'umukara, ndetse akaba ari kumwe n'abana be umuhungu ndetse n'umukobwa, bari kumwarurira ibyo kurya babishyira ku gasahani maze yareba agaseka.

Umukecuru uri kumwe n'umukobwa we, bari gukata imboga, bigaragara ko bari gutunganya amafunguro, bari kurebana bose bagaseka. Uyu mumama anejejwe no kuba ari kumwe n'umwana we kuko bimwongera akanyamuneza.

Umumama bigaragara yuko akuze ari kumwe n'umwana we w'umukobwa bahagaze mu nzu bari gutegura amafunguro, imbere yabo ku meza turi kuhabona udusorori ndetse n'isahani iriho ibiribwa bigiye bitandukanye; hari ahariho urusenda, umuneke ndetse n'agasorori karimo imbuto.

Abamama babiri bari muri siporobari gukorera siporo ahantu heza. Aha hantu hari indabyo nziza zisa umuhondo. Hakaba hari ibiti birebire bigenda bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ku bantu bahakorera.

Umukecuru wicaye hasi ku meza hateretse udukarito duto tw'imiti, akaba afite ikirahure cy'amazi. Hari umuforomokazi wambaye impuzankano y'abaforomo akaba afite n'icyumviro, ari kumuha ibinini ngo anywe umukecuru yatunguwe.

Umumama bigaragara cyane yuko akuze, yambaye ikanzu y'umuhondo, akaba yiyicariye iwe, ari gufata imiti nkuko muganga yayimwandikiye, iyi miti iri mu ducupa aho ari kuyifata atuje, yitonze, kandi anezerewe.

Abamama, abasaza ndetse n'abakecuru. Bateraniye ahantu hamwe. Umusaza ateruye umwuzukuru we. Iyo umuryango urimo amahoro, usanga uhora usabana. Bose bagahora bishimiye ubuzima babayemo.

Umukecuru wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, akaba yicaranye n'umuforomokazi, akaba ari kugenda amusuzuma ngo arebe niba umuvuduko we w'amaraso utarigeze uzamuka. Aha rero nk'uko bigaragara uyu mukecuru yitaweho.

Umumama ukuze yicaye ku kumukeka ahantu hari ubusitani buririmo pasiparumu inyuma hakaba hari imikindo ari gukora siporo ari kugorora amaguru umugongo ndetse n'amaboko, siporo mu buzima abantu bose bakwiye kuzikora.

Umu musaza bigaragara ko atishimye na gato, yicaranye n'abuzukuru be aho yagiye umwe amwica ukwe n'undi akamwicaza ukwe maze abaha capati, umutoya amuha n'amata kugira ngo anyweshe.

Umusaza ndetse n'umukecuru bose barashaje imvi zabaye uruyenzi umukecuru yahaye ikirahure cy'amazi umusaza ndetse agiye kumuha n'imiti bose barashaje ariko baracyafashanya.

Umusaza ndetse n'umukecuru bicaye mu nzu, umusaza afite imiti mu ntoki ndetse umukecuru we afite agapapuro kanditseho amategeko n'amabwiriza ndetse n'uko bagomba kunywa uyu muti, umusaza ari kubanza gusoma mbere yuko awunywa.

Uyu ni umumama bigaragara ko yavunitse, akaba ari kugendera ku twuma two kwa muganga atambuka gake gake ndetse hari n'umuforomo uri kumufasha bari kumwe ufite ibikapu mu ntoki, hirya yabo hari ibiti byiza cyane bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Abasaza babiri bose bambaye imikenyero ndetse n'imyitero bakaba bambaye ingofero, umwe yambaye amarinete undi ntayo yambaye, bari mu ihema ririmo abantu benshi, aba basaza baka bashimishijwe no kuba bateraniye hamwe hari abandi bantu.

Abakecuru babiri bambaye imikenyero bose bambaye udupira tw'umutuku, umwe yambaye igitambaro cy'umuhondo mu mutwe undi nta gitambaro yambaye ahubwo afite imvi zabaye umweru, batambutse imbere bose bafite udukoni hari n'urubyiruko rubari inyuma.

Umusaza wicaye ndetse yicaranye n'umukecuru, imbere yabo bafite amafishi bari kugenda basoma ndetse uyu musaza afite n'ikaramu na terefone mu ntoki, uyu muryango bigaragara ko wishimiranye kandi ubayeho neza.

Umumama bigaragara ko akuze yambaye ishati y'umweru irimo uturongo tw'umukara afite isahani mu ntoki ndetse n'ifoke akaba agiye kwirira imbuto zigiye zitandukanye ndetse n'imboga.

Iri ni isoko ricururizwamo imbuto ndetse n'imboga, hakaba harimo abamama bakuze bari kuricururizamo, izi mbuto zirimo amaronji, inyanya, pome ndetse n'izindi mbuto zigiye zitandukanye.

Abasaza babiri bari gutambuka mu muhanda urimo amabuye barishimye cyane kuko bari kugenda baganira, iyo urungano ruganira bituma bagira ubuzima bwiza, inyuma yabo hari ibiti biri gutanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Abamama bakuze bakaba bicaye ahantu hamwe bari kuganira, babiri muri bo bambaye amarinete n'aho umwe ntayo yambaye ndetse n'uko bameze bigaragara yuko bafite ibintu barangariyemo.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bakaba bafashe ingamba zo kwirinda icyorezo cya kovide cumi n'icyenda, aho bose bambara udupfukamunwa bagahana intera ndetse bagafata n'inkingo nk'uko Leta ibiteganya.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bakaba bari kungurana ibitekerezo, nk'uko bigaragara iri ni ihuriro ry'abashakashatsi bagamije gufata ingamba ndetse iyi ni inama ifata imyanzuro, ikaba yateranye mu wa bibiri na makumyabiri na kane.

Inzobere mu by'ubuvuzi ziraterana maze zigafata ingamba, aha ngaha rero nk'uko bigaragara hari abaganga bambaye impuzankano y'abaganga udupfukamunwa ndetse n'udupfukantoki, bakaba bari gukora ubushakashatsi.

Iki ni igishushanyo kigaragaza ukuntu indwara zigenda zigabanuka cyangwa se zikiyongera, bakagaragaza n'ingamba zafashwe mu rwego rwo kwirinda indwara ikomeye cyane nk'ubwandu bwa SIDA, aho bakumira ndetse bagatanga n'ubujyanama.

Iri ni ihema ryubakishijwe amabara y'umweru, rikaba ririho amagambo Covax ndetse nk'uko bigaragara, iri ni ihema rya Unicef twite ku bana ndetse no ku buzima bwa muntu muri rusange.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari kuganira ku bijyanye n'ingamba zafatwa kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza, iri ryari ihuriro rya makumyabiri rigamije kurebera hamwe uko bakwirinda sida ndetse hakaba hari abantu imbere yabo bari gutanga imbwirwaruhame.

Iki ni icyapa kiriho ikirango cya minisiteri y'ubuzima Arabisi, mu rwego rwo kugira ngo bagaragaze neza yuko bitaye ku bantu, kandi indwara zose bari kuzishakira umuti ndetse n'urukingo.

Leta y'u Rwanda ubwo icyorezo cya covide cumi n'icyenda cyakazaga umurego, yakoze ibishoboka byose ifata ingamba zishoboka kugira ngo ihangane nacyo kandi ikirandure burundu; izi rero hari harimo no gukingira abaturage bose.

Ukuboko k'umumama kuriho ibiheri byinshi cyane, ibi biheri ni indwara ya mabaga yari yafashe uyu muntu, aha rero leta y'u Rwanda yahise ifata ingamba zikakaye mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo no kukirandura burundu.

Aba ni abantu bagiye batandukanye bari gufata ifoto y'urwibutso. Nyuma yo kugeza ku baturage ingamba zafashwe na Minisiteri y'ubuzima zo kwirinda uburwayi. Inyuma yabo hari icyapa cy'ubururu kiriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru.

Abantu bicaye ahantu hamwe bakaba bari gufata ifoto. Aba bantu basoje amahugurwa ndetse bafashe n'ingamba zigiye zitandukanye z'uko bagomba kwirinda indwara kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Inyuma hari icyapa kiriho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda kirikugaragaza n'izina ry'iyo nama bari barimo.

Akapa k'ubururu kariho inyuguti ebyiri iya "h" niya "r" hagati y'izo nyuguti harimo ibiganza bibiri biri gusuhuzanya bakagira bati "abaturage b'u Rwanda bakwiye kugira ubuzima bwiza.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe bakaba bari guhugurana. bambaye imyenda y'amabara agiye atandukanye, imbere yabo hari ameza agiye ariho ibitambaro, bari mu nyubako yubakishijwe amatafari ahiye kandi bari gusobanurirwa bagafata n'ingamba ku bijyanye n'ubuzima.

Umumama wambaye ijiri y'umukara ya UNICEF, akaba yambaye agapfukamunwa. Inyuma ye hari abaganga bambaye impuzankano y'abaganga ndetse n'udupfukamunwa, imbere yabo hari akapa k'ubururu kariho amagambo yandikishije ibara ry'umweru aho bagira bati: twese turi kumwe kandi tugomba kwirinda icyorezo cya Kovide cumi n'icyenda.

Umumama wambaye ishati y'icyatsi kibisi, imbere ye, hari indangururamajwi nk'uko bigaragara ari gutambutsa ikiganiro, maze akibutsa abamuteze amatwi ingamba zafashwe na Minisiteri y'Ubuzima zo kwirinda uburwayi.

Iki ni igishushanyo kigaragaza ukuntu abantu bagiye bahabwa inkingo z'icyorezo cya Kovide 19, aho bagaragaza imibare igiye iri mu tuziga, bikaba byerekana uko abantu bagiye bahabwa izo nkingo.

Icyapa kigaragaza uburyo ushobora kwirinda. Baravuga bati twirinde indwara y'ubushita bw'inkende. Iyi ndwara yaje mu Rwanda maze abanyarwanda bashyira imbaraga mu kuyirinda birangira icitse vuba.

Abakobwa benshi cyane bateraniye ahantu hamwe bose bambaye udupira tw'umweru, bahagaze ahantu mu nzu yubakishije amatafari akoze mu isima ndetse n'umucanga bakaba bafite ibintu bamanitse hejuru nk'uko bigaragara bafashe ingamba zo kurinda ubuzima bwabo.

Iyi foto iragaragaza abasore ndetse n'inkumi bafite udukingirizo mu ntoki aho bari kuvuga bati niba ugiye gukora imibonano mpuzabitsina ibuka agakingirizo kuko sida iracyahari kandi ejo hazaza ni ahawe.

Aba ni abantu bari mu nama. Bakaba bari kungurana ibitekerezo, ndetse bakaba bagenda bafata n'imyanzuro. Turi kubona umugabo imbere ye, hateretse mudasobwa ndetse n'undi uhagaze imbere yabo ufite indangururamajwi mu ntoki. Akaba ari kubaha ibitekerezo, maze bagafata imyanzuro bakaboneraho no gufata ingamba ziboneye.

Leta y'u Rwanda ni imwe mu mareta afata iya mbere mu kurwanya ndetse no gukumira indwara cyane cyane iz'ibyorezo. Aha rero bafashe ingamba z'uko buri muntu agomba kwambara agapfukamunwa kandi agahabwa urukingo.

Leta y'u Rwanda yafashe ingamba z'uko igiye gukora ibishoboka byose ikarinda indwara abaturage aho abubaka bagomba kubaka neza abavura bakavura ndetse n'abakora imirimo igiye itandukanye bakayikora mu buryo bwa kinyamwuga.

Abantu bateraniye ahantu hamwe bakaba bari kuganira ku kibazo gikomeye cyane, kandi bakaba bari buva aha bafashe ingamba. Hari umuzungu ndetse n'umwirabura babicaye imbere bose bafite mudasobwa imbere yabo ndetse n'amacupa y'amazi, hakaba hari n'indangururamajwi aho bari kwigira hamwe ko bahagarika virusi ya mabagi.

Icyapa cy'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Ubuzima RBC ku bufatanye na Kaminuza y'u Rwanda, hamwe n'ikigo cy'ubuhinzi ndetse n'Ikigo cy'Igihugu cy'Iterambere. Aha rero bakaba bari gushyira hamwe nk'icyumweru cyahariwe kurwanya indwara.

Aba ni abantu babiri bishyize hamwe, burya koko abishyize hamwe nta kibananira, bose bari kwigira hamwe ndetse bagafata n'ingamba zigiye zitandukanye z'ubuzima ndetse bakiyemeza no kuvura abantu mu buryo bugezweho.

Iki ni ikigereranyo cyerekana uburyo leta y'u Rwanda yishyize hamwe maze igafata ingamba igakumira indwara zigiye zitandukanye, igakumira impfu zifata ababyeyi ndetse n'abana.

Aba ni abantu bambaye bikwije, bambaye ibikanzu birebire, bambaye udupfukamunwa ndetse bambaye n'ingofero, aha ngaha hakaba ari mu gihe icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyari kirimbanyije, Leta y'u Rwanda yafashe ingamba z'uko abakora isuku bagomba kwirinda.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bakaba ari benshi cyane. Bose bambaye neza kuko nk'abicaye imbere, higanjemo abambaye amakoti y'imikara ndetse na karuvate. Aba rero bakaba bari gufata ingamba zijyanye no kwirinda ay'uburwayi.

Iyi ni inyubako y'ivuriro hakaba hari abantu bahicaye, sibyo gusa kuko hari n'indabyo, hasi hari isima aho banyura, mo imbere harimo irangi ry'umuhondo ndetse nk'uko bigaragara aha ni aho basuzumira ibizami.

Iyi ni inyubako y'ivuriro aha bakaba bari kutwereka agace gato cyane k'iri vuriro rya kabgayi hakaba harimo akayira kari kunyuramo umunyegare uhetse ikintu inyuma.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba ifite inkuta zisize irangi ry'umweru amadirishya ni umweru ariko hakaba harimo akabara k'umukara ku bitanda birimo imbere biryamyeho abarwayi.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba ifite inkuta zisize amarangi y'umweru, ndetse na paraco irasa umweru hakaba hariho amamashini agaragaza y'uko abarwayi baryama kuri ibi bitanda birimo baba bari kureba amashusho.

Iyi ni inyubako nziza cyane yo kwa muganga, turi kubonamo icyuma bifashisha bari gusuzuma abarwayi, aho umurwayi bamuryamishaho maze bagahita bareba mu mashini bagahita bareba ikibazo afite. Hasi hari amakaro, ku nkuta hakaba hasa nka kaki ndetse n'umukara, naho hejuru muri parafo harasa umweru.

Inyubako y'ivuriro ifite inkuta zisize irangi ry'umuhondo ndetse hari inzitiramibu y'umweru imanitse ariko izinze. Hari umumama uryamye ku gitanda kirimo, hakaba hari abaganga bari kumuvura. Barimo baragerageza kumuha ubuzima.

Iyi ni inyubako yo kwa muganga aha hakaba ari mu cyumba basuzumiramo, iyo umurwayi bagiye kumucisha mu cyuma baramuzana bakamuryamishamo hano maze izi mashini uri kubona iburyo n'ibumoso zigahita zerekana uburwayi afite.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba yubakishijwe amatafari ahiye, ifite inzugi ziriho ibirahure by'umweru, hakaba hari irangi ry'umweru risize hejuru hakaba hariho amagambo yandikishije ibara ry'ubururu.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba yubatswe mu buryo bugezweho, ifite inkuta nziza cyane zubakishijwe isima ndetse n'amatafari ahiye, hakaba harimo ibitanda bishasheho amamatela ndetse n'amarido ya oranje atandukanya igitanda n'ikindi.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, harimo ibishashi birimo amaraso. Aya maraso bagenda bazenguruka ahantu hose hateraniye abantu bakayafata maze bakayasuzuma, bakayatunganya neza bakayaha abarwayi barembye.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, hakaba harimo abantu bicayemo. Hari umugabo ubahagaze imbere wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara. Akaba ari gutunga urutoki ku cyapa gihari, abasobanurira kandi na bo bamuteze amatwi.

Aba ni abantu bicaye mu nyubako y'ikigo nderabuzima. Bicaye ku ntebe zirambuye. Harimo abana ndetse n'abakecuru. Imbere yabo hari umugabo wambaye ikote ry'umukara, akaba ari kubatambutsaho ikiganiro.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, mo imbere turi kubona inkuta zisize irangi ry'umweru, ku nzugi hagiye hometseho ibyapa bigaragaza abantu bakoreramo, hejuru hariho utwambi tugaragaza buri serivisi nayo itangirwa.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'ivuriro, aha ngaha ni mu cyumba bashyiramo utwana twavutse tutategejeje igihe, hari umuforomokazi ukiri muto uri kureba akana karyamyemo ari kukitegereza akambika akaringa ku ntoki yakishimiye.

Inyubako y'ivuriro harimo intebe ameza ndetse n'udubati, ku kabati hateretseho amoko agiye atandukanye y'imiti, inkuta zisize irangi ry'umweru hasi hakaba hari amakaro.

Iyi ni inyubako y'ivuriro isize amarangi y'umuhondo mo imbere. Harimo umuntu wicaye ndetse hakabamo n'intebe nziza cyane, utegereje guhabwa serivisi aba yicayemo, bityo bikamurinda kurambirwa ndetse no kwinubira aho hantu.

Izi ni inyubako zo mu ivuriro hakaba haparitsemo imodoka harimo ibiti byiza cyane by'imikindo bigaragara neza hakabamo n'igiti kinini cyane gifite amashami maremare gitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro ikaba ari inyubako ndende bigaragara ko igeretse kane cyangwa gatanu aho abantu binjirira hari umusekeri turi kuzamura icyuma kugira ngo imodoka isohoke ndetse hari n'icyapa kigaragaza izina ry'iryo vuriro.

Aha ni mu nyubako y'ivuriro hakaba harimo akana katambaye imyenda hejuru, kambaye agapantaro k'umukara. Harimo umusore waje kumuvuza ndetse n'umuganga wambaye impuzankano y'umweru n'agapfukamunwa, aho ari kugenda amuvura.

Inyubako y'ivuriro iyi nyubako ikaba irimo amabara menshi cyane y'imitako ndetse hakaba harimo n'ibikoresho bigiye bitandukanye abaganga bifashisha mu gihe bari gusuzuma abarwayi, turi kubona udutanda baryamyeho nk'uko bigaragara rero aha havurirwa abarwayi bifite.

Ni inyubako nziza cyane y'ivuriro. Mo imbere turi kubonamo ibikoresho bigiye bitandukanye. Harri ibiri mu makarito, hari ibi mu mamashini ndetse hari n'imashini ubwayo nini cyane bigaragara yuko iri vuriro rifite ibikoresho bihagije.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iriho icyapa kiriho ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, hakaba haparitsemo imodoka nyinshi zigiye zitandukanye harimo n'imbangukiragutabara. Si ibyo gusa kuko harimo n'abantu baje kwivuza.

Aba ni abantu baje kwivuza mu kigo nderabuzima bakaba batonze umurongo kugira ngo babuzuhize amafishi, imbere yabo hari umugabo wicaye mu kagare k'abafite ubumuga we waciye ku ruhande kugira ngo bamuhereho ahabwe serivisi.

Iyi ni inyubako y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho ikaba isize irangi ry'umweru ndetse si ibyo gusa kuko harimo n'ibikoresho bigiye bitandukanye abaganga bifashisha mu gihe basuzuma abarwayi.

Iyi nyubako nziza cyane y'ivuriro, hasi hakaba harimo tapi y'icyatsi kibisi, irimo uturongo tw'umweru, inkuta zikaba zisa umweru ndetse n'umukara, aha hantu ni heza cyane, kuhivuriza ntako bisa, kuko uharwariye akira vuba.

Iyi ni nyubako y'ivuriro ikaba irimo abantu barimo imbere bari kugura imiti ndetse imbere yayo hari icyapa kigaragaza ibyo iyi foromasi ikora ndetse n'izina ryayo, biragaragara y'uko ikorera i Kanombe.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, muri iyi nyubako turi kubonamo imodoka ziparitsemo, tukabona abantu bitwikiriye imitaka bari kujya kwivuza, tukabonamo icyapa kigaragaza gahunda zabo ndetse n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Aha ni mu nyubako icururizwamo imiti, hakaba haparitse moto yicayeho umumotari wambaye kasike mu imbere hakaba ariho hacururizwa imiti, hejuru hariho icyapa kigaragaza izina ry'iyi farumasi ndetse n'ibigo by'ubwishingizi bakorana.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro igeretse inshuro enye, ikaba isize amarange y'umuhondo ndetse ibirahure ni umweru n'inkuta zimwe na zimwe zisize amarange y'umweru, ku marembo hakaba hari icyuma gikumira abantu ndetse rukaba ari urugo ruriho n'indabyo ndetse n'umukindo.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, harimo umuganga wambaye impuzankano y'ubururu, akaba afite mudasobwa imbere ye ndetse hakaba hari n'indi mudasobwa iri ku ruhande ari kurebamo yihugura ibijyanye n'ibice by'umubiri w'umuntu.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro iyi nyubako irimo intebe, izisa umukara ndetse n'izisa umuhondo. Parafo isa kake, inkuta zisa umweruru kandi harimo n'indabo nk'imbere munzu. Nk'uko bigaragara rero aha hakirirwa abarwayi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro. Yubatswe mu buryo burambuye. Harimo ubusitani bwiza cyane ndetse hakabamo n'ibiti birebire bitanga akayaga kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza.

Leta y'u Rwanda yegereje abaturage serivisi z'ubuvuzi, hano rero bazanye ihema umuturage aratambuka yageramo bakamusuzuma bakareba niba nta burwayi afite yaba abufite bakamuvura.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro irimo imitako igiye itandukanye, hakaba harimo intebe nziza cyane zisa icyatsi kibisi ndetse n'umukara, hari mudasobwa iteretse ku meza, iyi mudasobwa niyo muganga akoresha ari gusuzuma.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro yubakishije amabuye, hakaba hariho inkingi zisize ibara rya oranje, harimo umuganga wambaye impuzankano y'abaganga, ndetse n'undi mugabo bari gutambukana. Iri vuriro ryubatswe mu buryo bwiza, hari n'ubusitani.

Inyubako y'ivuriro yubakishije amatafari ahiye, ikaba isakaje amabati y'ubururu iyi nyubako irimo irangi ry'umuhondo hakaba hari abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe bigaragara ko ari abaforomo ndetse n'abajyanama bikaba bigaragara yuko iyi nyubako ari inzu y'ababyeyi aho babyarira.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro, yubakishije amatafari ahiye isakaje amabati y'ubururu, hariho inzugi z'umweru, hari abantu bari gusohokamo. Nk'uko bigaragara ni Ikigo nderabuzima cya Matyazo.

Iyi ni inyubako y'ivuriro. Nk'uko bigaragara isakaje amabati y'ubururu, yubakishije amatafari ahiye, hakaba hari icyapa kigaragaza y'uko ari ivuriro ry'ibitaro by'Akarere ka Huye mu Ntara y'Amajyepfo.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, ikaba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, harimo igitanda cyiza cyane gifite amapine, gisasheho ikuvureri ndetse kikaba kiriho n'umusego, inkuta zisize amarangi y'umweru na parafo ni umweru.

Inyubako nziza y'ivuriro, hari agatanda keza cyana ndetse gafite n'amaguru y'umukara hasi hari amakaro hari n'imashini ipima abarwayi, muganga akuryamishaho maze akareba muri iyo mashini akamenya uburwayi ufite.

Inyubako y'ivuriro turabonamo parafo isa umweru, tukabona amakaro asa umweru, harimo ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye byifashishwa mu gihe basuzuma abarwayi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, turi kubonamo abantu bari ahantu hagaragara nk'aho ari ku rwakiriro, ndetse aha hakaba harimo inyubako zigiye zitandukanye, hejuru hari parafo y'umweru, hasi isima isa ubururu.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, harimo umuganga wambaye impuzankano y'abaganga y'umweru, yambaye uturindantoki tw'ubururu, akaba yambaye n'agapfukamunwa, afite icupa ry'umuti imbere ye, ari kwandika mu mashini iri imbere, kugira ngo arebe niba uwo muti wujuje ubuziranenge.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro irimo amakararo ndetse harimo n'uturongo twa oranje tugenda tumanuka, inzugi ni ubururu, hakaba hariho amadirishya y'umweru, inyubako ni nziza, kuyivurizamo ntako bisa.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro muri iyi nyubako hakaba harimo abantu batatu bashinzwe kwakira abaje babagana hakaba hari n'intebe eshatu z'umukara, aha rero bakaba bakirana abarwayi urugwiro ndetse bakabaha serivise zinoze.

Iyi ni nyubako y'ivuriro hakaba harimo amayetajeri agera muri abiri, hepfo ndetse no ruguru buri imwe igeretse inshuro enye cyangwa eshanu, hasi hari sima, urugi ni urw'imbaho.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, yubatse mu buryo bugezweho ikaba isize irangi ry'umuhondo, muri iryo vuriro harimo ubusitani bwiza cyane burimo indabo zikiri nto ndetse na pasiparumu, hakaba harimo ikigega ndetse harimo n'umwana wicaye mu kagare k'abafite ubumuga uje kwivuza.

Inyubako y'ivuriro, iyi nyubako ikaba isize irangi ry'umuhondo, hasi harasa umutuku. Hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo imashini muganga yifashisha asuzuma abarwayi.

Inyubako y'ibitaro ikaba ari inyubako igeretse kabiri, isakajwe amabati y'umutuku ikaba iriho ibirahuri by'umukara. Mu imbere muri iyo nyubako hari icyapa kigaragaza indwara bavura n'igihe bakira abarwayi, hakaba harimo n'ibendera ry'igihugu.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, imbere turi kubona icyapa kigaragaza yuko ibi ari ibitaro bya kaminuza y'u Rwanda biherereye i Butare bizwi nka CHUB, hakaba haparitsemo imodoka nyinshi.

Aha ni ahacururizwa imiti ikaba ari inyubako nziza cyane kandi ndende, imbere yayo haparitse imodoka ndetse nk'uko bigaragara hejuru hariho icyapa kigaragaza izina ry'iyo pharmacy, bakanerekana y'uko iherereye i Remera.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'ivuriro ikaba ikorotiririjwe urukuta rw'amatafari ndetse harimo n'utwu mo n'imbere harimo ibiti byiza cyane bitanga umuyaga ku bantu baje kwivu si ibyo gusa hari n'imyicundo abana baje kwivuza bicundaho.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro turikubonamo abaganga bambaye impuzankano y'abaganga y'umweru, imbere yabo hakaba hari icupa rya fanta ndetse hari n'ibikoresho bitandukanye bari kugenda bakoresha mu bushakashatsi barimo.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba ifite inkuta zisize irangi ry'umweru harimo uturongo tugiye tuzengurutsemo turi mu ibara ry'ubururu, hasi hari amakaro meza cyane abengerana, parafo ikaba isa umweru. Iyi nyubako igezweho.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, ifite inkuta zisize irangi ry'umweru, hakaba hari amavaze maremare ateretsemo indabyo ndetse hakaba hari n'utwambi tugaragaza aho gusohokera ndetse n'aho kwinjirira, iri vuriro ryubatswe mu buryo bugezweho.

Iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima cya Gishweru, hakaba hahagaze ababyeyi baje kuhivuriza nk'uko bigaragara muri iyi nyubako harimo irangi ry'umweru, hakabamo n'akuma gashobora kwifashishwa kazimya inkongi y'umuriro.

Inyubako y'ivuriro harimo umunyeshuri wambaye impuzankano y'ishuri hakabamo umugangakazi wambaye impuzankano y'abaganga, akaba afite icmviro mu ijosi akaba yambaye n'agapfukamunwa. Ari gusuzuma uyu munyeshuri.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba ifite inkuta ziriho irangi ry'umweru harimo amarido, hakabamo ibikoresho bigiye bitandukanye abaganga bifashisha iyo bari kuvura nk'imashini, hari utubati turimo amoko agiye atandukanye y'imbuto.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro ifite inkuta zisize irangi ry'umweru, hakaba hacamo ndetse n'utundi turongo tw'irindi bara, hakaba hateretsemo intebe, hari n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru agira ati ''siporo ihuriro ry'ubuzima.''

Aha ni mu nyubako y'ivuriro turi kubonamo ababyeyi, abana baje kwivuza, aha bicaye ni aho bakirira kandi akaba ari ku kigo nderabuzima, nk'uko bigaragara bose bari guhabwa serivisi baje gushaka.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'ivuriro, ikaba igeretse kabiri cyangwa gatatu, si ibyo gusa kuko imbere yayo hari ubusitani bwiza cyane butagira uko busa, hakaba harimo icyuma kiriho amatara amurikira aho hantu kugira ngo habone.

Inyubako y'ivuriro. Iyi nyubako harimo igitanda kiryamyeho umurwayi w'umugabo bigaragara ko yishimiye ko yahawe ubuvuzi buhambaye hakaba harimo imashini muganga yifashisha asuzuma abarwayi kugira ngo amenye uburwayi bafite.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro. Iyi nyubako isize amarangi y'ubururu. Isasakaje amabati y'ubururu ndetse hasi hasashe amapave. Bakagaragaza aho imodoka ziparika. Hari abantu barimo, hari n'imodoka ihaparitse. Aho binjirira hari abantu bari gusobanuza mbere yuko binjira.

Abakecuru babiri bicaye ahantu hamwe, imbere yabo hicaye umuganga wambaye impuzankano y'abaganga iri mu ibara ry'iroze, agapfukamunwa ndetse n'uturindantoki, akaba yambaye isaha ku kuboko ndetse n'amarinete, ari gusuzuma bano babyeyi ngo arebe ko nta muvuduko w'amaraso bafite.

Inyubako y'ivuriro ikaba ifite irangi ry'umweru ku nkuta, hagiye hariho udutako, hasi hakaba hari amakaro mo imbere harimo ibikoresho bigiye bitandukanye abaganga bifashishije iyo bavura abarwayi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro. Turi kubonamo abaganga benshi cyane bari mu bushakashatsi. Parafo yaho isa umweru, inkuta na zo zisize irangi ry'umweru, hasi hari amakaro ndetse harimo n'ibikoresho bigiye bitandukanye.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, turi kubonamo ibikoresho bigiye bitandukanye. Bikoreshwa kwa muganga, harimo nk'indege zitwara amaraso, ziyakura mu ivuriro rimwe ziyajyana mu rindi. Ku nkuta hariho irangi ry'umweru.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba igeretse kabiri , yubakishije amatafari ahiye ndetse ikaba ifite n'imirembo ya oranje, indi yo yubakishijwe amabuye ikaba yubatswe mu buryo buzengurutse, imbere yazo hagiye hari ubusitani bugiye butandukanye.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, muri iyi nyubako turi kubonamo umusore uri gukoramo amasuku wambaye agapira k'ubururu ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto, yambaye uturindantoki tw'ubururu ndetse harimo n'undi mumama wambaye igikanzu cy'umweru, harimo abarwayi baryamye ku bitanda abarwayi bavurirwaho.

Inyuko nziza cyane yo kwa muganga, irimo ibitanda by'umweru, hakaba harimo inzitiramibu z'umweru, amarido y'ubururu atandukanya, igitanda n'ikindi, inkuta zisize irangi ry'umweru, hasi hakaba hari amakaro y'umweru, harimo n'ibikoresho umuganga yifashisha mu gihe ari kuvura.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, yubatswe mu buryo bugezweho, aha turi kubona harimo ibitanda bifashesheho amashuka meza cyane, hakaba hari n'imashini zifashishwa, kugira ngo bamenye uburwayi umurwayi afite.

Iyi ni inyubako y'ivuriro harimo abaganga bambaye impuzankano y'umweru, udupfukamunwa tw'ubururu ndetse n'udupfukantoki, hakaba hateretsemo ibicupa birimo imiti baje gukorera ubugenzuzi.

Abaganga ndetse n'ababyeyi bari kumwe n'umwana wambaye impuzankano y'icyatsi kibisi bamuhaye igishushanyo kiriho amenyo bari kumusobanurira ukuntu umuntu ashobora kubona iryinyo rirwaye.

N'inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako ikaba irimo inkuta zubakishije amabuye ndetse hakaba hateye na jaridi imeze neza irimo indabyo ndetse na pasiparumu, ni byiza kwivuriza ahantu hasa neza hakeye kandi har'umutekano.

Iyi ni inyubako y'ivuriro aha hakaba ari mu cyumba basuzumiramo, iyo bavuze ngo umuntu yagiye guca mu cyuma ni hano baba bamuzanye, bamuryamisha kuri kano gatanda maze iyi mashini igahita igaragaza ikibazo afite umubiri wose.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, ikaba ifite inkuta zisize irangi ry'umweru, mo imbere harimo intebe nziza cyane z'imisego, abantu bicaramo mu gihe barindiriye kubonana na muganga, ndetse hari n'akuma gatanga umuyaga, purafo ikaba isa kake.

Iyi nyubako nziza cyane y'ivuriro iyi nyubako isize irangi ry'umweru ifite parafo y'umweru ndetse n'amatara hakaba harimo icyuma muganga yifashisha ari gusuzuma umurwayi aho amuryamishaho maze yareba mu mashini akamenya uburwayi afite umubiri wose.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro. Turi kubona abantu bicayemo imbere aho bakirira abantu. Inkuta zayo zirasa umweru ndetse na parafo zisa umweru. Hakaba harimo amatara hejuru ari kwaka, ku mpande ho turabona ibirahure by'iyi nzu bisa umukara.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, yubakishije amatafari ahiye, hakaba harimo abantu baje bayigana abenshi bambaye udupira twubururu, iyi nyubako ni nziza yubatswe vuba ndetse hakurya yayo hari andi mazu yubakishije amatafari ya boroke sima, ikirere kikaba gisa ubururu ndetse n'umweru.

Iyi ni inyubako yo kwa muganga ikaba irimo abarwayi bagiye batandukanye, turi kubona abamama, abapapa, haparitsemo imodoka ndetse harimo n'igiti cyiza cyane gitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi, abarwayi bakabasha guhumeka.

Umuganga wambaye impuzankano y'umweru ndetse n'icyumvirizo mu ijosi ryiwe, yambaye amarinete y'umukara, imbere ye hari umwana w'umukobwa wambaye ikanzu y'ubururu, nk'uko bigaragara ari kubabaza amakuru maze akayandika.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, nk'uko bigaragara rero iyi nyubako ikaba yubatswe mu buryo bugezweho, aha ngaha isize irangi ry'umweru ndetse ikaba irimo n'ibiti bigiye bitandukanye kandi byiza.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako irimo ibikoresho byiza cyane kandi by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye, nk'aho bashyira umurwayi munsi y'icyuma maze bakareba uko ubuzima bwe buhagaze.

Aha ni ahabereye igikorwa cy'amatora mu ihema, hari umwana uje usunika umugabo wicaye mu kagare, hakaba hari n'umukobwa wambaye umupira w'umweru ndetse n'ijipo y'umukara, uje kubayobora kugira ngo abereke aho batorera.

Aha ni ahantu hari amaforomasi agiye atandukanye. Turi kubona imiryango ibiri yose ifunguye ariko bigaragara y'uko ari farumasi imwe. Aha rero harimo abantu baje kugura imiti, hanze hari ibyapa bigaragaza ibigo by'ubwishingizi bikorana n'iyi farumasi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, harimo inkuta zisize irangi ry'umweru, parafo ni umweru. Harimo abaganga bambaye impuzankano isa umweru, bakaba bambaye udupfukamunwa. Bari kureba mu mashini basuzumiramo ibizamini.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro yubakishijwe amatafari ahiye ndetse ifite utuyira tw'ibyuma tumeze nk'amayesikariye, isakaje amabati ya oranje, ikirere kirasa ubururu hakurya hari inzu zituwemo n'abaturage benshi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako irimo ibikoresho byinshi kandi byiza bigiye bitandukanye. Turi kubonamo agatanda k'abarwayi, tukabonamo aho bajugunya imyanda ndetse tukabona n'udutebe tugiye dutandukanye abaganga bicaraho.

Iyi ni inyubako y'ivuriro. Nk'uko bigaragara yubatse neza kuko isize amarangi y'umuhondo, ikaba isakaje amabati y'ubururu. Hasi hasashe amapave. Hakaba harimo umuganga wambaye impuzankano y'umweru. Nk'uko bigaragara aha ngaha ni aho basuzumira ibizamini.

Inyubako y'ivuriro irimo imikindo myiza cyane ndetse n'ibiti byiza bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi, hari indabyo ndetse na pasiparumu bigaragara neza, mu tuyira hasashemo amapave ndetse muri iyi nyubako haparitsemo n'imodoka.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, hakaba harimo umuganga wambaye impuzankano y'umweru, akaba afite ikimashini imbere ye ari kurebamo, iki ngiki ni cyo asuzumiraho abarwayi. Muri iyi nyubako harimo n'intebe ndetse na mudasobwa.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro igereti inshuro nyinshi cyane ikaba iriho icyapa kigaragaza cumi na kabiri ndetse ikaba ifite ibirahure by'umukara iyi nyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro ifite inkuta zisiz irange ry'umweru parafo nayo irasa umweru. Harimo intebe zicayeho umugabo utegereje ko bamwakira ndetse hari n'undi mugabo uhagaze aho bakirira abantu, bakaba bari kumufasha kugira ngo n'abandi babone uko bagerwaho.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, harimo amatara amurika neza, hasi hakaba hari amakaro. Harimo inkingi zigiye zitandukanye, muri buri rukuta hagiye harimo imashini. Izi mashini rero ni izitanga ibizamini ndetse n'ibisubizo.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba ifite inkuta zisize irangi ry'umweru, hariho matera ku bitanda birimo zishasheho amashuka y'icyatsi kibisi, aha bahakirira abarwayi.

Iyi nyubako y'ivuriro ifite inkuta z'umweru ikagira parafu z'umweru, harimo amamashini agiye atandukanye abaganga bifashisha iyo bari gusuzuma abarwayi, ndetse harimo n'intebe baba bicayeho.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro harimo ibitanda ndetse n'intebe hakabamo mudasobwa ndetse n'indi mashini yifashishwa mu kuvura abantu inkuta zirasa umweru ndetse aha hantu hatangirwa serivise zigiye zitandukanye.

Inyubako y'ivuriro, iyi nyubako ikaba irimo umu mama wambaye impuzankano ndetse n'agapfukamunwa k'ubururu, yambaye ibaji mu ijosi yayishyize mu mufuka w'iyo shati hakaba harimo ibitanda biryamyeho abarwayi bari kwitabwaho bavurwa.

Inyubako y'ivuriro, mu kirongozi turi kubonamo abantu benshi cyane baje kwivuza. Harimo abakobwa, abamama, abasore ndetse n'abagabo. Hari umugabo uhagaze imbere yabo wambaye agapfukamunwa. Akaba yambaye umupira w'amaboko magufi inyuma y'umuremure ndetse n'ipantaro itukura.

Inyubako y'ivuriro mu imbere harimo intebe nziza cyane zifite ibara ry'ubururu, hakaba hari imitako iri ku nkuta. Izindi nkuta ziriho irange ry'umweru, hasi hari amakaro. Iyi nyubako ni nziza cyane kandi yubatswe mu buryo bugezweho.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'ivuriro, iri vuriro rifite inkuta zisize amarangi y'umweru ndetse na parafo ni umweru, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye abaganga bifashisha iyo bari kuvura abarwayi, hari ibitanda bishasheho amashuka y'umweru ndetse hakaba n'ibindi batwaraho abarwayi.

Umusore ndetse n'umukobwa bose bari muri siporo, umusore yambaye isengeri y'umukara ndetse n'ikabutura y'umukara, umukobwa yambaye agapira ndetse n'ikabutura irimo uturongo tw'umweru. Yicaye ku ntebe umusore naho umukobwa arahagaze. Nkuko bigaragara bose bafite ibikapu bya siporo.

Umusore uri muri siporo, yambaye agakabutura k'umukara. Igice cyo hejuru ntikigaragara, yambaye ku kuboko. Nk'uko turi kubibona, yagize ikibazo mu ivi arunamye. Ni byiza rero ko ahita ajya kwivuza ,kugira ngo bamugororere urugingo rugororoke vuba.

Umusore wambaye agasengeri akaba ari kugorora amaboko ye, ari muri siporo. Yicaye hasi; siporo ni nziza, kandi ni ubuzima. Twese dukore siporo duharanire kubaho, twirinda uburwayi buterwa no kudakora siporo.

Ibiganza byambaye uturindantoki dusa umukara, nkuko bigaragara umuntu ubyambaye ari muri siporo. Gukora siporo ni byiza cyane cyane ukazikora, warinze bimwe mu bice byawe by'umubiri kuko bigufasha kuba utahura n'ikibazo gihe uhuye n'impanuka.

Uyu ni umusore uri muri siporo yambaye agapira k'ubururu, agakabutura k'umukara ndetse n'inkweto za siporo. Ari guterura ibyuma biremereye cyane by'umuhondo agatuza ke kakirega. Hari umugabo uri kumukoresha aho agenda amwerekera ibyo akora.

Iki ni igikoresho cyifashishwa iyo hari ahantu habaye impanuka bagaterura umuntu bakamushyira ku ruhande ariko akenshi na kenshi gikunze gukoreshwa ahantu habereye siporo cyane cyane umupira w'amaguru ndetse n'imikino yo kwiruka.

Umukobwa wirabura wambaye agasenge gato cyane ka oranje yambaye ekuteri z'umukara ndetse yambaye n'isaha ku kuboko ari kurambura amaboko ye ndetse numugongo, ari kureba imbere ahantu ubona ko hari ikirere cyiza.

Umukobwa wambaye agasengeri k'umuhondo ndetse n'ipantaro, yambaye udusaro ku kuboko kwe kw'iburyo, akaba yicaye kumukeka yarambuye mu nzu mo imbere ari kwikorera siporo arambura umugongo, amaboko ndetse n'amaguru.

Aha hari abasore ndetse n'abamama bakaba bari gukora siporo aho bagaragaza yuko gufata umwanya ugakora siporo bituma ubuzima bwawe bugenda neza ndetse ukaba wakira indwara zigiye zitandukanye harimo kubabara umutwe ndetse no kugira umunaniro ukabije.

Umusore wambaye agasengengeri k'umukara akaba ari gukora siporo, amaboko ye yayarambuye ayakoza ku birenge, ni byiza gukora siporo kandi ukazikorera ahantu heza kuko birinda uburwayi bugiye butandukanye.

Aya ni amoko y'imiti yifashishwa mu gihe bari muri siporo. Aha harimo imikasi, hakabamo pomade, ikinya, bande ndetse n'indi miti igiye itandukanye.

Iki ni igikoresho cyifashishwa muri siporo, kikaba ari igikoresho cy'ikoranabuhanga kigorora ingingo zose. Aha rero iyo wagize ikibazo cy'imvune, barakuzana bakakwicazamo maze bakakugorora ukagororoka ugataha ugenda neza.

Uwo mukobwa wambaye agasengeri gato cyane k'umukara ndetse n'ipantaro imuziritse ahantu hose, afite imisatsi miremire igera mu mugongo akaba ari mu nyubako hagati ari gukora siporo, aragorora amaguru ndetse n'amaboko.

Uyu ni umukobwa uvuye muri siporo, afite isumi ku rutugu, akaba afite icupa ry'amazi, ari kugenda ayanywa, aho bigaragara yuko avuye muri siporo. Siporo ni ubuzima, tuyikore kandi tuyishimire.

Ibi ni ibikoresho bigiye bitandukanye. Ushobora kwifashisha mugihe uri muri siporo. turi kubonamo ibinya, tukabona bande ndetse tukabona na pomade. Aha ngaha rero nawe niba ugiye muri siporo gerageza witwaze kimwe mu gikoresho gishobora kugufasha mu gihe waba ugize impanuka.

Ukuguru k'umusore wakoze siporo, turi kubona ahantu hashushanyije, hashushanyishijwe marikeri y'ubururu ndetse n'iy'umutuku, ahantu akandagiye harasa umukara, gukora siporo ni byiza.

Iki ni ikirahure cy'amazi giteretse ku meza. Hakaba hari ijage iri kuyasukamo. Aya mazi afite irangi ry'ubururu. Nk'uko bigaragara rero aya mazi anywebwa n'abantu bavuye muri siporo kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza.

Igikapu cy'umutuku gifite imishumi y'umukara ndetse nacyo kikaba kirimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu gihe cya siporo, harimo ikinya, bande ndetse na pomade.

Umukobwa bigaragara y'uko akiri muto yambaye ekuteri mu matwi, akaba yambaye agapira keza cyane k'umutuku, akaba afite icupa ry'amazi ku munwa, ari kugenda ayanywa, nk'uko bigaragara avuye muri siporo kandi siporo azikoreye ahantu heza.

Iyo ukoze siporo hari igihe ugira impanuka aha turi kubona itsinda ry'abakuruwaruje riri kwita ku muntu wagize impanuka akagira isereri aho bamujyanye bakamuryamisha kandi bakaba bari kumwitaho.

Aya ni amoko agiye atandukanye, y'ibikoresho ushobora kwifashisha mugihe uri muri siporo, ndetse hakaba hari n'amoko y'imbuto ushobora gufata, mugihe usoje siporo, kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze bugende neza.

Umusore wavunitse ari muri siporo, avunika ibiganza bye byombi, none bari kumuvura, aho bari kugenda bamushyiriraho ibipfuko ndetse na bande kugirango ingingo ze zegerane maze abashe kongera gukora neza.

Ni abantu bari muri siporo ndetse bagiye bakora siporo zigiye zitandukanye, aba bana rero bari gukina umukino w'amaboko wa basikete, bakaba bafite abafana benshi cyane, bahagaze bari kureba uburyo bakina imikino igiye itandukanye.

Umukobwa wavunitse ari muri siporo hakaba hari umuganga wambaye itabuririya y'umweru, ufite amakaramu ku mufuka we w'iburyo, akaba ari kugenda amugorora gake gake mu ivi kugira ngo urugingo rugororoke maze abashe gutambuka.

Ibi ni bimwe mu bikoresho byifashishwa mu gihe cya siporo, aha hari bande yirambuyeho gato ndetse hari n'ikarito irimo ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, niba ugiye muri siporo nawe shaka kimwe mu miti ugenda witwaje.

Aha ni ahakorerwa siporo hakaba harimo umuntu uri gutunganya ibikoresho birimo byifashishwa mu gihe bari gukora siporo, hari mudasobwa irimo amashusho uyu mugabo akaba ari kuyitegereza, aho uyareba maze ugakora siporo wigana ibyo bari gukora.

Umugabo wambaye agapira k'umutuku n'ikabutura y'umukara. Yambaye inkweto za siporo z'umukara. Imbere ye hari umugabo bigaragara ko ari we umutoza. Afite umupira wa rugubi, ari gutambuka mu makona ashyiramo imbaraga nyinshi cyane nk'uko umutoza we abimusaba.

Umusore wicaye ugatanda agaca umukara, muganga ari kumupfukira akaguru kiwe akoresheje bande y'ubururu, aho ari kureba mu rugingo aho yavunitse akabasha kuhapfuka kugira ngo igufwa risubirane, maze nawe abashe gukira.

Ibi ni bimwe mu bikoresho ushobora kwifashisha mu gihe uri muri siporo n'imashini kabuhariwe kandi yabugenewe, aho ukora siporo ikwereka ikigero ugezeho. Hari ubwo ikwereka ko uri ku ijana na mirongo ine n'umunani, bikaba biriho akabazo. Hari n'ubwo ikwereka ko ugeze kuri mirongo icyenda n'icyenda.

Umwana uryamye hasi, imbere yabo hakaba hari abantu bambaye imyenda ya kuruwa ruje bari kugenda bamwitaho. Nk'uko bigaragara, yari ari gukina umupira w'amaguru, maze bagenzi be baramuvuna.

Umusore ubyibushye cyane, yambaye isengeri ndetse n'ikabutura akaba ari muri siporo, ari kugenda aca mu tuyira yakoze kugira ngo agorore amaguru ye maze akomeze gukomera, hari umukobwa uri iruhande rwe wamurangariye bigaragara nk'aho ari we uri kumutoza.

Umusore wambaye agapira k'umukara ndetse n'ikabutura y'umweru irimo utubara tw'umutuku, yambaye amasogisi y'umukara hakaba hari umugabo uri kumukoresha siporo, afite telefone mu ntoki aryamye hasi ku gatanda.

Umusore uryamye mu nyubako, iyi nyubako ikaba ivurirwamo abantu bakomerekeye muri siporo, harimo umuganga wambaye impuzankano, akaba yambaye agapfukamunwa, ari kugenda agorora uyu murwayi ndetse amusuzuma yifashishije imashini iri imbere ye.

Umusore uvuye muri siporo, yambaye agapira k'ubururu, isaha y'umukara ku kuboko, afite icupa ry'amazi ari kunywa, ikirere kirasa umweru ndetse nkuko bigaragara uyu musore yayobotswe na siporo, ni byiza gukora siporo kuko siporo zubaka umubiri kandi zigatuma umuntu agira ubuzima bwiza.

Abantu babiri bari gukina umukino njyarugamba uzwi nka karate, umwe yambaye imyenda y'ubururu undi yambaye iy'umweru. Barimo barakururana bakubitana hasi nk'uk bigaragara bari kwamamariza amarushanwa ndetse n'ishyirahamwe rya karate.

Umusore uri muri siporo, wihuta cyane bamushyizeho aka vi kari mu ibara ry'ubururu umuhondo ndetse n'icyatsi, bavuga yuko uru ari urubuga rw'u Rwanda ushobora gusangaho umukino wo kwiruka maze nawe ukaba wakwiyandikisha.

Umusore wavunitse ari gukora siporo yambaye imyenda ya siporo akaba ari gukoza agashashi gakonje ku ivi rye kugira ngo umuti wikanze ugororoke maze yongere ahagarare neza asubire gukora siporo.

Ibi ni bimwe mu bikoresho byifashishwa mu gihe cya siporo, hari ibiri mu makarito hakaba n'ibindi birambitse hasi, by'umwihariko bande iba ikenewe kuko ushobora kwikubita hasi ukavunika ukuboko cyangwa ukuguru igufwa ryatana ukayifashisha.

Ibi ni bimwe mu bikoresho byifashishwa mu gihe cya siporo. Harimo umupira wo gukina w'amaguru ndetse harimo n'ibindi bigiye bikorwa. Harimo ibikoresho muganga yifashisha. Hakabamo amadenesi ndetse n'imipira ya basiketi.

Agakapu k'umutuku babikamo ibikoresho. Aba ni abantu baba bashinzwe gutabara ndetse no gukumira kuri stade tuzi nka croix rouge. Hakaba hari amoko y'imiti agiye atandukanye harimo nk'iy'ikinya ndetse n'ishinge zigitera, bande ndetse n'uturindantoki.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro iyi nyubako ikaba ikorerwamo siporo aha ngaha bahavurira abantu bavunikiye muri siporo aho bashyira k'utwuma tugenda tubagorora hakaba harimo abantu bagiye batandukanye baje kwivuza.

Inyubako y'ivuriro aha ni ahakwerwa siporo harimo umuntu wicayemo wambaye ibitenge by'ubururu biririmo utubara tw'umweru harimo n'akana gato kambaye utwenda tw'umweru n'udusogi kari guseka bigaragara ko we na mama we bose bishimye.

Aya ni amoko y'imiti igiye itandukanye ushobora kwifashisha mu gihe uri gukora siporo, turi kubonamo uturindantoki, tukabonamo ikinya, tukabonamo bande, umukasi ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye ushobora gukenera mu gihe ugize impanuka.

Ibi ni bimwe mu bikoresho ushobora kwifashisha mu gihe wahuye n'imvune. Maze ukaba wabikoresha kugira ngo ingingo zawe zikomeze zigende neza ntizitane cyane. Kikaba ari igikoresho cyitwa bande aho kifashishwa bari kubumbiraho umuntu isimu.

Iki ni ikihure bari gusukamo amazi, hari umugabo ufite ijage mu ntoki akaba ari gusuka amazi. Aya mazi urebye wabona afite ibara ry'ubururu, hakurya y'aho hari ikirere kiriho ibara ry'ubururu.

Ibi ni bimwe mu bikoresho byifashishwa mu gihe cya siporo. Turi kubona imashini zerekana ibirometero uba uri gukoresha ndetse n'intege uri gukoresha, turi kubona umukobwa wicaye akaba ari guhamagara kuri telefone itagendanwa zimwe ziba zicometse mu muriro.

Umusore wambaye igisenge y'icyatsi kibisi, akaba afite akarenga ka move ku kuboko kwe, afite icupa ryamazi ari kuyimena mu maso, avuye muri siporo ananiwe cyane, siporo yazikoreye ahantu heza hari umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Umusore wambaye agapira gato cyane k'umukara, akaba ari guterura icyuma kinini cyane. Afite amaboko manini ,ahagaze mu nzu ikorerwamo siporo. Siporo ni ubuzima. Nawe niba wumva ushaka kugira ubuzima bwiza, jya ufata umwanya maze ukore siporo.

Umwana ukiri muto ariko bigaragara ko afite umubyibuho ukabije afite urwuma turiho amapine akaba ari kutugenderamo agenda akora siporo, imbere ye hari umusaza w'umutoza ufite imipira mu ntoki uri kugenda umuha amabwiriza.

Ibi ni bimwe mu bikoresho abaganga bifashisha bari kuvura umuntu wagiriye impanuka muri siporo, aho bagushyiraho icyuma gipima umutima ndetse kikaba cyanawupompa ukagaruka ubumuntu.

Ibiganza bibiri bifite akantu k'umukara mu ntoki, nk'uko bigaragara aka ni kamwe mu tuntu ushobora kwishyiraho mu gihe uri muri siporo, bikakurinda kuba wahura n'impanuka ugahita ukomereka, ahubwo kakurinda.

Icyapa kiri kugaragaza umusore uri muri siporo, yambaye akantu ku kuboko, gapima ibirometero yirukanse. Hari kugaragara ibyiza byo gukora siporo. Aho bigaragara y'uko ushobora kwiyongera ibiro, ukagabanya umuvuduko w'amaraso ndetse ukagabanya n'umuhangayiko.

Uyu ni umusore uri muri siporo, imbere ye hari umugabo w'umuzungu wambaye agapira k'umukara n'isaha ku kuboko, ari kugenda amufasha gake gake kugirango agorore ingingo maze ubuzima bwe bukomeze kugenda neza.

Umugabo wambaye ijaketi y'umukara, hari umuteze ikiganza imbere wambaye uturindantoki. Uyu nguyu akaba ari muri siporo. Siporo ni ubuzima, abantu bose bagakwiye gukora siporo kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Uyu ni umusore wavunitse akaba ari kwa muganga aho bavurira abagiriye impanuka muri siporo bamwicaje ku gatebe maze akaguru ke arakazamura ari gukarambura kugira amagufwa ye yongere yegerane maze akore neza.

Agasanduku k'icyatsi kibisi, kakaba karimo imiti y'amoko agiye atandukanye, umuntu ashobora kwifashisha mu gihe ari muri siporo cyangwa se yavunikiye muri siporo. Harimo: pomade, bande ndetse n'imikasi.

Uyu ni umusore usoje siporo akaba yambaye isengeri y'umukara, afite icupa ry'amazi mu ntoki, yambaye agakufi k'icyatsi ku kuboko, nkuko bigaragara asoje siporo maze ari kunywa amazi, siporo ni ubuzima twese tuzikore kandi tuzikunde.

Iki ni igikoresho cyiza cyane gifite ibara ry'umweru hakaba hariho akantu kameze nk'agasaha ndetse kifashishwa mu gihe hari gukorwa siporo. Muganga iyo akwandikiye siporo biba ari byiza ko uzikora kugira ngo ugire ubuzima bwiza.

Ibiganza biteruye avoka mu ntoki, inyanya ndetse n'urusenda. Hariho pome na tungurusumu. Ibi ni bimwe mu byo ushobora gukoresha mu mu gihe wakoze siporo. Si ibyo gusa kuko hari n'inkweto ushobora gukorana siporo.

Umukobwa wicaye ku gatanda, hakaba hari undi muntu uri kumuvura. Yavunitse ikirenge. Bari gushyiraho bande bakagorora, maze bakamukoresha siporo, kugira ngo barebe ko igufwa ryasubirana akongera agatambuka neza nk'uko byahoze.

Umusore wambaye agapira k'amaboko magufi, akaba afite icupa ry'amazi risa ubururu, aya mazi ari kuyanywa, avuye muri siporo. Inyuma yiwe hakaba hari ibimera byiza cyane, bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Umusore wambaye agasengengeri k'umukara, akaba yambaye n'ikabutura, ari kugorora ivi ryiwe yicaye hasi, nk'uko bigaragara yari ari gukora siporo maze agira imvune yicara hasi kugira ngo abanze yigorore.

Ni kamwe mu dukoresha twifashishwa mu gihe cya siporo, utu dukunze kuba kwa muganga cyane cyane, aho batugushyiraho bagapima ibirometero wakoze, ndetse n'imbaraga wakoresheje, ni byiza gukora siporo ahantu hari ibikoresho byiza cyane by'ikoranabuhanga, kuko bigufasha kumenya uko ubuzima bwawe buhagaze.

Ibi ni bimwe mu bikoresho umuntu ukora siporo akenera, ni ibikoresho gusa kuko harimo na bimwe mu biribwa aba akeneye kugira ngo umubiri we, ukomeze ugende neza aha rero harimo metero ndetse n'udupine akaba akenera ibiribwa birimo amaronji ndetse na pome amazi yo ni ingirakamaro.

Ubu ni ubwoko bw'imiti gakondo iri mu dukayita tugiye dutandukanye, iyi miti yamaze gutegurwa ishyirwa mu bukarito bwiza, aho uyiguzi ayigura yishimye, kuko iba ifunze neza kandi ifite isuku ihagije.

Umusore uri muri siporo yambaye agapira k'umutuku, ikabutura y'umukara irimo itubara tw'umutuku, yambaye n'inkweto za siporo. Imbere ye hari amakona ari kugenda anyuzamo akantu ahagazeho kariho amapine. Hirya hakaba hari imipira igiye itandukanye yifashisha iyo ari gukina.

Amacupa atatu maremare arimo umuti. Uyu ni umuti bifashisha mu mugihe bari muri siporo, siporo ni ubuzima ariko tugomba gusigasira ubuzima tuzirikana ko hashobora kubaho n'impanuka.

Uyu ni umusore wicaye ku gatanda kwa muganga aho bavurira abagiriye impanuka muri siporo hakaba hari uri kumwitaho ari kumushyiriraho bande ku kuguru kugira ngo ingingo ze zisubirane maze na we yongere atambuke neza uko bikwiye.

Umusore wambaye agasengeri k'umukara akaba yicaye hasi ari kugorora akaguru ke bigaragara ko yashushanyijeho ibintu ariko uyu musore akora siporo kugirango agire ubuzima bwiza siporo ni ubuzima kandi tugomba kuzikora.

Umusore wambaye agapira k'ubururu akaba afite icupa ry'amazi ku munwa yambaye umukufi mu izosi nkuko bigaragara avuye muri siporo, siporo ni ubuzima kandi tugomba kuzikora kugira ngo ingingo zacu zigororoke.

Uyu ni umumama wavunitse mu kuboko, ari gushyiraho ishyashya ikonje kugira ngo imitsi y'uko kuboko igororoke, twese tugomba kugira ubumenyi ku bijyanye n'ubutabazi bw'ibanze n'uko twakwisayidira mu gihe duhuye n'impanuka.

Ni igishushanyo kirimo uruziga rw'umweru umusaraba w'umutuku amagambo yandikishije ibara ry'umukara agira ati "Umuryango utara imbabare mu Rwanda".

Uyu ni umusore wicaye ku gitanda kwa muganga, hakaba hari umuganga wambaye agapira k'umutuku, ari kumushyiraho bande cyangwa se kumubumbiraho isima kugira ingingo ze zisubirane maze azabashe gusubira muri siporo, amaguru ye akora neza.

Nk'umusore bigaragara ko afite ubuzima bwiza, araho arahagaze, asoje siporo maze akuramo imyenda yo hejuru. Nk'uko bigaragara rero, uyu musore yakoze siporo kandi asobanukiwe ko ari ubuzima.

Uwo umukobwa wicaye ku gatanda bakaba bari kumugororera amavi kubonaho akantu gashushanyije hakoreshejwe ibara ry'umweru ndetse n'akandi kameze nk'agakoko kari mw'ibara ry'umutuku siporo n'ubuzima.

Ibi ni ibiganza bibiri byambaye ga z'umukara aho bose bari kugaragaza uburyo ushobora kurinda intoki zawe kuburyo uramutse ugize ikibazo uri gukora siporo udashobora gukomereka mu kiganza.

Uyu ni umuntu wavunikiye muri siporo ari gushyira ishashi ku ivi rye kugirango agorore imitsi. Ni byiza ko natwe mugihe twavunitse tugira uburyo twifashisha mu rwego rwo kugira ngo amagufwa yacu atangirikaho tuyasigasire.

Iki ni igikoresho abantu bafite ubumuga bashobora kwifashisha bakora siporo, aho bicaramo maze bakagenda babasunika bagorora amaguru batambuka gake gake.

Umusore wambaye isengeri y'umweru yasobanyije amaboko ari gukora siporo, ahagaze ahantu heza cyane kuko inyuma ye ari kugaragara amabara y'umukara ndetse n'umweru. Ni byiza gukora siporo kuko iyo uzikoze umubiri wawe urakomera kandi nawe ubwawe ntube wahura n'indwara izo arizo zose.

Umugabo uri kwivura akaboko. Akaboko ke karavunitse yagiye kwa muganga aramuvura ariko ahageze nawe agomba gushyiraho ake aho akagorora gake gake kugira ngo ingingo ze zayo zikomeze zikore neza.

Umukobwa wambaye isengeri y'ubururu, akaba yambaye ekuteri z'umweru mu matwi, yambaye akantu k'umukara ku kuboko, akaba afite icupa ry'amazi ari kurinywa avuye muri siporo. Siporoni ubuzima, abasore n'inkumi tugomba kujya tuzikora.

Aka ni agasanduku k'icyatsi kibisi kakaba karimo imiti ndetse n'ibindi bikoresho byose wakwifashisha mu gihe uri muri siporo. Ibi bikoresho rero hakaba harimo udukasi, bande pomade, ndetse n'ibinya.

Umusore wavunitse ari gukora siporo, yashyize ishashi ku kuboko kwe, aho ari kugenda agorora gake gake kugira ngo ingingo ze zigororoke maze abashe kongera abe muzima.

Umusore ibi bigaragara ko afite amaboko manini cyane, yambaye isaha ku kuboko, yambaye agasengeri, ari muri siporo ari kugorora ijosi ndetse n'amaboko, ari kureba hakurya ahantu bigaragara ko hatuwe ndetse hari n'ibiti bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Aha ni mu cyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu gihe cya siporo. Harimo umugabo wambaye akarindantoki ndetse aha harimo utwuma dufite amapine ndetse n'amayetageri agiye ariho ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Umusore wambaye agasengeri k'icyatsi kibisi nk'uko bigaragara ari muri siporo, akaba afite icupa ry'amazi ari kuyanywa ndetse araramye, hakurya ye bigaragara ko hari amazu atuyemo abantu.

Umusore wambaye agapira gato cyane kamwegereye yambaye ekuteri mu matwi afite icupa ry'amazi agiye kuyanywa ari ahantu heza cyane hari ibiti bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi akaba avuye muri siporo.

Umukobwa wambaye agasengengeri k'umukara, akaba yambaye akantu k'u kuboko, yambaye n'agapantaro k'umukara, afite icupa ry'amazi ry'umweru, ari kuyanywa nk'uko turi kubibona rero, uyu mukobwa yafashe umwanzuro mwiza wo gukora siporo.

Umukobwa w'umuzungu wambaye isengeri y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara aryamye hasi ari gukora siporo, imbere ye bagaragaje zimwe mu ntungamubiri umuntu ukora siporo akwiriye gufata, bagaragaje amaronji, imineke, pome ndetse n'amatunda.

Inyubako nziza cyane ikorerwamo siporo, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byagufasha gukora siporo nk'udutanda, udutebe ndetse hakaba n'icyuma gitanga umuyaga igihe hajemo ubushyuhe bukabije.

Iki ni igikoresho cyifashishwa mu gihe cya siporo, hariho udupine tune, hakabaho akantu k'umukara hejuru, ndetse hejuru hariho ikimeze nka ekara, aho ukora siporo ureba amashusho maze bikagufasha kongera imbaraga.

Umusore wambaye agapira k'umukara afite isume ku rutugu, akaba ari kunywa amazi, uyu musore avuye muri siporo nk'uko bigaragara umubiri we wose urakomeye. Gukora siporo ni ingirakamaro.

Imodoka itwara abarwayi ibakura mu bitaro bimwe cyangwa se bakura mu ngo zabo ibihutana kwa muganga, bakagenda baherebwamo ubufasha bw'ibanze. Iri mu muhanda wa kaburimbo ndetse nkuko bigaragara kuri buri kibuga cy'imikino iyi modoka iba iriyo.

Aya ni amoko y'imiti igiye itandukanye ikomoka ku bimera cyanga se imiti gakondo, agiye ateretse mu ijage ndetse no mu mavaze aho iyi miti yose yifashishwa bagatunganya imiti maze bakavura abantu.

Ubu ni ubwoko bw'ikimera gifite amabara y'icyatsi kibisi. Iki kimera kikaba gitegurwamo umuti gakondo kandi uvura. Nk'uko tubizi iyi miti kuva kera yafashaga abantu bagiye bafite ibibazo bigiye bitandukanye maze bagakirara.

Aya ni amakarito y'imiti ikomoka ku bimera cyangwa se imiti gakondo ariko yamaze gutunganywa ikaba iri mu makarito, iyi ngiyi ikunzwe gucuruzwa n'ibigo bimwe na bimwe bitanga imiti ikomoka ku bimera kandi ikavura indwara zikomeye zananiranye kwa muganga.

Amoko y'imiti gakondo agiye atandukanye kandi afungiye mu makarito na yo agiye atandukanye, iyi miti ivura uburwayi bugiye butandukanye aho iba yaramaze gutunganywa kandi ikaba ivura mu buryo bwizewe.

Ubu ni ubwoko bw'ikimera gifite amababi y'icyatsi kibisi nk'uko tubizi rero ibi biti kuva kera byararindwaga kandi bigasigasirwa kuko byari bifite umumaro ukomeye mu batuye igihugu kandi na n'ubu bikaba bikiwufite.

Iyi n'ishahi irimo umuti gakondo cyangwa se umuti ukomoka ku bimera hari akapa kometseho kagaragaza izina ry'uwo muti uko ukoreshwa ndetse n'indwara uvura aho ushobora kuwugura nawe ukakuvura.

Aya ni amoko y'imiti agiye atandukanye, hakaba harimo umugabo ufashe ingiga, iyi ngiga nayo bigaragara yuko bashobora kuyifata bakayisekura maze nayo ikaba yavamo umuti abantu bakawunywa.

Agasekuru gateretse hasi ndetse hakaba hari n'amoko agiye atandukanye y'ibyatsi bamaze kwanika byumye, aha rero bakaba bagiye gukora umuti gakondo cyangwa se umuti ukomoka ku bimera ariko ukoranywe ubuhanga.

Agacupa gato cyane k'umweru gapfundikije umweru, naho gateretse ni umweru, hariho icyapa kigaragaza ibigize uyu muti, ndetse nuko ukoreshwa bakagaragaza yuko harimo amagarama ijana. Uyu ni umuti gakondo cyangwa se umuti ukomoka ku bimera.

Aya ni amoko y'imiti gakondo kandi yizewe aho bagaragaza y'uko ikomoka mu bimera ndetse n'imbuto nk'umuneke ndetse n'inanasi, aho babitegura neza maze bakabikoramo imiti igiye itandukanye.

Ni amoko y'imiti igiye itandukanye ikomoka ku bimera, turi kubona imifungo cyangwa se udufoto tugiye dutandukanye tugaragaza itandukaniro ry'iyi miti, yose iyo bayiteranyije ibyara umuti umwe mwiza kandi uvura.

Aya ni amacupa meza cyane abengerana. Aya macupa yose n'ubwo hagiye hariho ibishushanyo ndetse n'ibirango bigiye bitandukanye, harimo imiti ikomoka ku bimera, iyi miti yatunganyijwe mu buryo bwa gihanga.

Utu ni uducupa turimo imiti gakondo, kuri utu ducupa hashushanyijeho uruyuki, nk'uko bigaragara uyu muti ukaba urimo ubuki kandi ukaba uvura neza cyane.

Uyu ni umuti ukomoka ku bimera, ukaba wifashishwa woza amenyo. Ni byiza ko nawe wawugura maze ukajya woza amenyo yawe ukoresheje umuti gakondo kuko ari umwe mu miti iba ifite ubuziranenge.

Amoko y'imiti gakondo ari mu dukarito ateretse ahantu hasi ahahantu ateretse hakaba hari ubusitani bwiza cyane burimo amabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi haratatse ni byiza ko iyi miti ikorerwa ahantu heza.

Agacupa gato cyane k'umweru, gapfundikijwe umufuniko w'umweru, inyuma hari icyatsi kibisi, tuzi nka kapisine, imbere hari amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku, ariko yandikishijwe umweru, aho bagaragaza icyerekezo ndetse n'intumbero ko ari ukurinda ubwonko.

Amoka agiye atandukanye y'imiti ikomoka ku bimera, turi kubona ibimera bigiye bitandukanye kandi tukabona akambi kagaragaza buri kimera ndetse icyo kivura ndetse n'uko wagikoresha.

Aha hari imiti igiye itandukanye y'ibimera, ibi bimera nimbyita imiti ntibigutungure kuko n'ubundi barabisarura bakabitunganya neza, bamara kubitunganya abantu bakabinywa.

Ibirahure bibiri birimo amazi, ndetse n'amababi bikaba biteretse ku meza, hasi hakaba hari n'ibindi bimera by'amababi, nk'uko bigaragara uyu ni umuti gakondo wamaze gutegurwa ugiye kunyobwa, kugira ngo uwunywa akire.

Agacupa gato ariko karekare k'ubururu, kariho amagambo yandikishije ibara ry'umweru, nk'uko bigaragara ni amavuta y'uruhu, aya mavuta rero akorwa mu bimera maze wayasiga ku ruhu rukamera neza cyane.

Icupa rito cyane risa umweru rikaba ririho akapa kagaragaza neza izina ry'uyu muti ndetse n'icyo uvura, uyu ni umuti ukozwe mu bimera ariko bamaze kuwutunganya, ubu ngubu uri kugurishwa.

Aka ni agacupa k'umuti w'amenyo ndetse hagati y'utwo ducupa tubiri harimo agakarito uyu muti ni mwiza cyane kuko abawukoresha bagira amenyo meza.

Amokogi atandukanye y'imiti ndetse buri bwoko hakaba hari amagambo yanditse munsi yabwo agaragaza uko ikoreshwa ndetse n'uko iteye, iyi miti iravura kandi irizewe.

Icupa rito cyane rikoze mu kirahure, rifite umupfundikizo w'icyatsi kibisi ndetse rikaba ririho n'icyapa kigaragaza indwara uyu muti uvura, uyu rero ni umuti gakondo.

Ubwoko bw'ibimera bigiye bitandukanye biteretse ahantu hamwe, bikaba bifite amababi y'umweru ibindi bifite ay'icyatsi ndetse n'umuhondo. Ibimera byose bikorwamo imiti maze ikavura abantu bafite uburwayi bugiye butandukanye uko babyifuza.

Umu mama wambaye ibitenge bitagaragara igice cyo hejuru, turi kubona ukuboko kwiwe gufashe ibimera n'ibyatsi byiza cyane bifite uturabyo. Ibi byatsi urabitunganya neza maze ukabikoramo umuti ukawunywa ukakuvura.

Imiti ikomoka ku bimera cyangwa se imiti gakondo igiye itandukanye. Ifunze mu bintu bigiye bitandukanye, harimo iri mu ducupa duto, harimo iri mu bicupa by'ibirahure ndetse hari n'iri mu macupa maremare, hakaba n'iri mu bikarita.

Agacupa k'umweru gato cyane kariho icyapa kigaragaza ko uyu muti ushobora kuwukoresha buri munsi kandi indwara ikagenda burundu, inyuma yako hari ibara ry'umukara uyu ni umuti wateguwe mu bimera.

Uyu ni umusore uri gutunganya imiti gakondo, aho afite ibimera byinshi cyane yanitse byamaze kuma biri mu nzu ye, akaba ari kugenda abitunganya, aho agenda abifunga mu macupa agiye atandukanye kugira ngo ajye kubigurisha.

Aya ni amoko y'imiti gakondo, iteguwe neza cyane, iyi miti ikomoka ku bimera, aho babifata bakabitunganya, bamara kubitunganya bakabikoramo ibinini cyangwa se ifu maze bakayiha abarwayi bagakira.

Aya ni amoko y'imiti gakondo igiye itandukanye, iri mu dusorori tugiye dutandukanye, ikaba ifite amabara agiye atandukanye, harimo utw'umweru, umuhondo, hakabamo umukara, icyatsi kibisi ndetse n'ubururu, aho iyi miti yose yifashishwa mu kuvura abarwayi.

Amoko y'ibimera bigiye bitandukanye, turi kubona ifoto irimo imbuto. Izi mbuto zitwa indimu. Tukabona ibibabi ndetse tukabona umucyayicyayi. Aya yose ni amoko y'imiti kuko iyo ubitunganyije neza ufite uburwayi irakuvura.

Aya ni amoko y'imiti gakondo aturuka ku bimera. Hakaba hari ibikarito bitatu. Ibi bikarito biri mu mabara umweru, ubururu ndetse n'icyatsi kibisi. Bikaba bigaragaza yuko iyi miti ifatwa amasaha makumyabiri n'ane ku yandi, iminsi irindwi.

Aya ni amoko y'imiti ikomoka ku bimera hari agacupa kagufi cyane k'umweru ndetse gafite n'umupfundikizo w'umweru, hariho akapa kariho amagambo agaragaza ubwoko bw'uyu muti, hakaba n'ikindi kirekire gifite umupfundikizo w'umutuku kikaba gisa umweru, hariho igishushanyo cy'igikakarubamba.

Agacupa gato kari mu ibara ry'umweru ndetse na oranje, aho gateretse harasa umukara, aka gacupa kakaba karimo umuti gakondo cyangwa se umuti ukomoka ku bimera, hakaba hashushanyijeho urunyanya ndetse n'igikakarubamba.

Aha ni ahantu hahinze ibimera bigiye bitandukanye, ibi bimera rero bikaba bikorwamo imiti, iyi miti bayita imiti ya kinyarwanda cyangwa se imiti gakondo, iyo miti itegurwa mu buryo bwa gihanga kandi ikavura abantu bitabasabye kujya kwa muganga.

Uyu ni umugabo uri mu isoko ricururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye ariko we akaba yicururije imiti gakondo, iyi miti ikaba ifunze mu macupa apfundiki imipfundikizo y'umuhondo ndetse n'andi ari mu icupa.

Ubu ni ubwoko bw'ibiti bugiye butandukanye, bukaba bufite amababi y'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, iyi miti yose iravura kandi ni myiza, ni byiza ko twese dukoresha imiti gakondo kugira ngo twivure.

Ubwoko bw'ikimera. Ibi bimera bikaba bisa n'icyatsi kibisi. Ibi ni ibimera bivamo umuti ukomoka ku bimera cyangwa se umuti gakondo, aho bawutunganya maze umuntu akaba yakwivura atiriwe ajya kwa muganga.

Aka ni agasekuru karimo umuhini w'umweru ndetse n'ikigina, hari umuntu uri gusekura imiti gakondo aho ayitunganya maze akayigurisha isa neza, dore ko iba yanateguriwe ahantu hasa neza.

Igiti kirekire cyane gifite amashami ndetse n'amababi kikaba giteye hagati y'ibindi biti bigufi cyane kandi byose bikaba bivamo imiti ikomoka ku bimera iyo bamaze kuyitunganya.

Umugabo uri mu byatsi, ibi byatsi rero akaba ari kubitunganya, amaboko ye afashe ku mababi nk'uko bigaragara ari kuyasoroma. Aya mababi aragenda akayatunganya, yamara kuyatunganya akayakoramo umuti mwiza cyane kandi uvura, ariwo bita umuti gakondo.

Iyi ni imiti gakondo igiye itandukanye, harimo uwoza amenyo, hakabamo n'undi w'amazi uri mu tuntu tumeze nk'utubido tubiri tw'umweru n'akandi kamwe k'umuhondo, hose hashushanyijeho igikakarubamba.

Aya ni amoko y'imiti agiye atandukanye akaba afungiye mu macupa afite amabara agiye atandukanye, hakaba hariho umugabo bigaragara ko afite ikibazo cy'uburwayi bw'umugongo, bikaba binigaragaza yuko uyu muti uvura umugongo.

Agakarito karimo imiti. Iyi ni imiti myiza cyane, nk'uko bigaragara rero ni icyayi bagiye baratunganya neza maze bagishyira mu gakarito, mu rwego rwo kugira ngo nabyo bikoreshwe nk'umuti, hariho ibishushanyo byacyo, hari n'amagambo yandikishije ibara ry'icyatsi kibisi agaragaza ko ari icyayi.

Uyu ni umuganga ucuruza imiti gakondo, akaba yaramaze gukora icyapa kiriho imyirondoro ye ndetse n'imiti acuruza n'icyo yamarira abayigura.

Aba ni abantu bari kugana ahantu hari umugezi uri gusuma, hagati y'uwo mugezi harimo amazi menshi cyane ku mpande hakaba hari ibimera ibimera rero nk'uko bigaragara birashishe kandi bivamo umuti wa gakondo.

Ibimera biteye mu butaka bikaba bifite amababi y'icyatsi kibisi ndetse harimo n'umuhondo nk'uko tubizi yitwa umuravumba, bikaba bivamo umuti gakondo mu gihe wabitunganyije ushobora kubivuguta ugahita ubinywa cyangwa se ukabitegura neza.

Aya ni amoko agiye atandukanye y'imiti, yamaze gutegurwa neza cyane. Aha rero bakaba batangiye kuyishyira ku isoko. Iyi miti yose ikaba ikozwe mu gikakarubamba.

Ibinini biri ku kibabi, ibi binini rero bikomoka mu bimera cyangwa se na byo ni umuti gakondo aho baba babitunganyije neza maze bakabikora bikaba ibinini.

Aya ni amakarito arimo amoko agiye atandukanye y'imiti, aho bari kugaragaza agacupa kamwe muri utu ducupa turi muri aya makarito, ndetse hakaba hari n'akarongo kagaragaza isano iri hagati y'agakarito ka mbere ndetse n'aka kabiri.

Ni imiti igiye itandukanye ibi ni ibimera biri mu murima aha rero barabisarura bakabitunganya neza bakabitegura, maze bakabiha abarwayi bagiye bafite uburwayi bugiye butandukanye bikabavura kandi bagakira neza.

Agasekuru gateretse hasi karimo muhini, imbere yaho hari amababi agiye atandukanye iyo ubibonye uhita ubyibwira neza ko bagiye gutunganya umuti gakondo maze bakabaha umuntu urwaye kugira ngo akire.

Amacupa agiye atandukanye arimo imiti ikomoka ku bimera. Ari mu ducupa tubiri tw'umweru ndetse n'akandi k'umuhondo. Hariho umupfundikizo w'umutuku ndetse n'utundi tubiri tw'umukara. Hariho amagambo agiye ashushanyije kuri buri cupa. Ndetse hashushanyijeho n'igikakarubamba.

Ubu ni ubwoko bw'urubuto rukomoka ku bimera, iyi papayi irakase, turi kubonamo imbuto mo imbere, ndetse hakaba hari n'indi idakase. Ipapayi ni rumwe mu rubuto ushobora kwifashisha nk'umuti gakondo, maze ikaba yakoroshya mu nda hawe.

Agacupa gato cyane k'umweru kakaba kariho icyapa cy'ubururu ndetse hariho n'amagambo yandikishije ibara ry'ubururu. Uyu ni umuti ukomoka ku bimera kandi watunganyijwe neza cyane ukaba warashyizwe ku isoko.

Aha ni ahacururizwa imiti gakondo cyangwa se imiti ikomoka ku bimera, turi kubonamo umumama uteza agatambaro k'umweru, wambaye baji y'ubururu. Akaba inyuma ye hari intebe ya parasitiki y'ubururu, nk'uko bigaragara ari kugaragaza terefone bakoresha, ndetse hari n'umugabo bigaragara ko ari kubaza ibiciro ngo agure.

Umugabo wambaye agapira k'umweru, karimo imirongo y'umukara ku maboko. Ahagaze ahantu hari ibimera byinshi cyane nk'uko bigaragara, ari gusoroma amababi yabyo kugirango agende ayatunganyemo imiti ivura indwara zigiye zitandukanye.

Aya ni amoko y'imiti agiye atandukanye, iyi miti ikaba igiye iri mu mabara harimo iy'umutuku, oranje kake, ndetse hari n'indi ifite ibara utapfa kumenya iyi miti rero yose iravura kandi neza.

Aka ni akadobo karimo umuti ukomoka ku bimera cyangwa se umuti gakondo aho bagenda mu murima bakawusarura bakawutunganya neza maze bakazawufunga mu buryo bugezweho.

Aya ni amoko agiye atandukanye y'imiti gakondo, turikubonamo ibibabi by'icyatsi kibisi, tukabonamo tungurusumu, tangawize ndetse n'andi moko agiye atandukanye, dusigasire kandi turinde imiti gakondo kuko ifite uruhare runini mu buvuzi.

Ubu ni ubwoko bw'imiti gakondo buteretse ku meza ndetse nk'uko tubizi ni tangawize. Tangawise ivura indwara zigiye zitandukanye harimo n'inkorora ikabije, aho uyihekenya cyangwa se ukayinywa mu cyayi ubundi ugakira.

Icyatsi kibisi kigaragara neza cyane yuko kiri ahantu hari ibintu by'imbuto, iki icyatsi rero kikaba gikorwamo imiti gakondo, imiti gakondo kuva kera abaturage barayivurishaga batarinze kujya kwa muganga.

Aya ni amoko y'umuti ukomoka ku bimerara uyu muti bamaze kuwupakira mu bikarito bigaragara neza ko bagiye kuwugurisha ku kabido kari hano hariho igishushanyo cy'igikakarubamba.

Amoko agiye atandukanye y'ibimera, harimo afite uturabo tw'umutuku, harimo afite uturabo twa oranje, harimo afite uturabo tw'umuhondo, ndetse yose ni icyatsi kibisi. Kandi arifashishwa mu gutunganya umuti gakondo.

Iki ni ikimera gifite amababi y'icyatsi kibisi, kikaba giteye mu murima, ni byiza ko tumenya umumaro w'ibi bimera, kuko bivamo umuti gakondo. Ndetse na leta ikwiye gukumira, ndetse no kurinda abantu babyangiza.

Agacupa karimo umuti gakondo gafite umupfundikizo w'umweru, hakaba hari amaronji asatuye ateretse aho, nkuko bigaragara uyu muti mubiwugize harimo n'umutobe w'amaronji, uyu muti uraryoshye kandi uravura.

Iri ni icupa rirerire ry'umweru, rikaba ririho amagambo yandikishijwe ibara ry'icyatsi kibisi, uyu ni umuti ukomoka ku bimera cyangwa se umuti gakondo, wamaze gutegurwa muburyo bugezweho.

Amoko y'imiti agiye atandukanye akaba ari mu bicupa by'ibirahuri ndetse n'ibya pulasitike, iyi miti ikorwa mu bimera hari abayita imiti gakondo ndetse hari n'abandi bayita imiti ya kinyarwanda.

Ubu ni ubwoko bw'imiti gakondo bukomoka ku bimera turi kubona akapa gashushanyijeho uruyuki hakaba hari n'amagambo agaragaza y'uko avura indwara burundu, iyi miti ikaba ikomoka ku bimera.

Aya ni amoko y'imiti ikomoka ku bimera cyangwa se imiti gakondo, iri mu dukarito ndetse no mu macupa hakaba harimo umuti w'amenyo, uyu muti umuntu wazengerejwe n'ifumbi awukoresheje amenyo ye ahita yererana.

Agakarito karimo imiti gakondo cyangwa se imiti ikomoka ku bimera, ni agakarito keza cyane karimo amabara y'ubururu ndetse n'umweru. Hakaba harimo amagambo yandikishije ubururu ndetse n'umutuku. Harimo n'imibare igaragaza ko mirongo itanu ku ijana ndetse na makumyabiri ku ijana.

Ni ubwoko bw'imiti y'ibimera iteretse ku kabaho, iyi miti ikaba ifite utubabi dutoya n'amashami maremare. Iyi miti ukeneye kuyinywa wayisanga ahantu aho ari ho hose haba ibimera ukayisoroma maze ikakuvura.

Ikiganza cy'umuzungu gifashe ku mababi y'kimera, nk'uko bigaragara na we aje gusoroma umuti gakondo, na we yamaze kubisobanukirwa amenya ko uvura.

Aya ni amoko y'imiti igiye itandukanye ikaba iteye, iri mu mavaze ateretse ahantu hejuru ku twuma, iyi miti irifashishwa kandi iravura indwara zigiye zitandukanye zitera abantu.

Ibiti bikase neza bikaba biteretseho amakarito. Aya ni amakarito y'imiti ikomoka ku bimera, si ibyo gusa kuko aho biteretse hari ubusitani bwiza ndetse n'ibindi bimera, nk'uko bigaragara hahinze icyayi.

Amoko y'imiti ikomoka ku bimera agiye atandukanye, akaba ari mu ducupa. Utu ducupa turiho ibyapa ndetse kandi hakaba hariho n'udupfundikizo tw'umweru. Hari akarongo kari mu ibara ry'umuhondo ndetse hari b'ikizeu kiri mu ibara ry'umuhondo. Haba ari ya amagambo yandikishije ibara ry'umukara.

Icupa rito cyane risa umutuku, rikaba ririho amagambo y'impine FAB, iri cupa ririmo umuti gakondo watunganyijwe neza maze uragenda umera nk'uwa kizungu.

Agacupa gakozwe muri parasitike, gafite umupfundikizo w'umuhondo ndetse hariho n'icyapa kiriho ibimera, aha ngaha amagambo yandikishijwe n'ibara ry'umukara, iyi ni imiti gakondo kandi iravura.

Aya ni amoko y'imiti agiye atandukanye aya moko y'imiti hakaba harimo ibibabi hakaba harimo ibyatsi ndetse hakaba harimo n'ibindi bimeze nk'ingiga, ibi byose bivamo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura abarwayi.

Aya ni amoko y'imiti agiye atandukanye, turi kubonabona ari mu ducupa duto ndetse n'ari mu ducupa tunini, tukabona avura amenyo, ndetse hari n'inzoka yizengurukije iri aho, bigaragara ko iyi miti harimo n'uvura uburwayi bwo mu nda tuzi nk'uburwayi bw'inzoka.

Igiti kinini cyane gifite amashami ndetse n'amababi manini. Si cyo cyonyine kuko hari n'ibindi byinshi cyane biri kumwe. Ibi biti byose barabitunganya bikavamo imiti gakondo.

Umukobwa wambaye agashati k'umweru ndetse n'agapantaro, arangariye muri telefone, imbere ye hari aka atajeri k'imiti acuruje, iyi ni imiti gakondo ifunze mu macupa agiye atandukanye kandi ivura indwara zigiye zitandukanye.

Amacupa ane yose arimo umuti ukomoka ku bimera cyangwa se umuti gakondo. Kuva kera abantu bakoreshaga umuti gakondo ariko ubu ngubu basigaye bawutunganya ugakoreshwa wujuje ubuziranenge bitandukanye n'uko byahoze.

Ubu ni ubwoko bw'imiti igiye itandukanye, aho turi kubona iri mu ducupa tumeze nka korogate ndetse n'iri mu gacupa gato k'umweru kariho icyapa kiriho amabara y'umutuku ndetse tukabona n'agacupa k'umuhondo. Iyi miti ikaba ikozwe mu gikakarubamba kuko kinashushanyijeho.

Amacupa menshi cyane ari mu mabara agiye atandukanye, aya macupa yose akaba arimo umuti gakondo cyangwa se umuti ukomoka ku bimera bamaze gutunganya bakaba bari kuwugurisha.

Igiti kirekire gifite amashami arereta hasi, hakaba hariho amababi meza avamo imiti gakondo, aha rero kiri hari ikirere cyiza cyane gifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Itasi iteretse ku gasahane ikaba irimo umutobe mwiza cyane ukoze mu mbuto ndetse na tangawizi iyi ni imwe mu miti gakondo ivura kandi isa neza.

Ubu ni ubwoko bw'ikimera gikorwamo umuti wihariye uvura indwara zananiranye mu baganga bose ahangaha rero uyu ni umuti gakondo ariko abantu bizera.

Iki ni ikimera gifite amababi y'icyatsi kibisi, aya mababi rero akaba yifashishwa bari gutunganya umuti gakondo, aho bayasoroma bakayavuguta maze bakayaha umwana ufite ikibazo cyo mu nda, agahita yoroherwa.

Aya ni ameza ateretseho ibintu bigiye bitandukanye. Harimo akantu bari gusekuriramo umuti, hakaba n'akandi kameze nk'ivaze uteretsemo, hari n'utundi tujya gusa umuhondo na two turimo imiti.

Amoko y'imiti ikomoka ku bimera agiye atandukanye. Iyi miti rero imwe ikaba iri mu dusekuru indi ikaba iri mu dusorori. Ni byiza ko tumenya uko dukwiye kwirinda maze tugasigasira amagara yacu kuko amagara aseseka ntayorwe.

Ibi ni ibyatsi, ibi byatsi rero bifite amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'ay'umuhondo, nk'uko bigaragara iyi miti iri ku rwego rwa Afurika kandi iravura mu buryo bwizewe kandi bunogeye bose.

Aya ni amoko y'imiti ikorwa mu bimera, turi kubona ibinini bifunze neza, tukabona n'agakarito k'umweru kariho agashushanyo k'icyatsi kibisi. Iyi miti yose iravura.

Aya ni amoko y'imiti igiye itandukanye, hari iri mu ducupa ndetse hari n'iri mu makarito. Iri mu makarito rero ni ibinini naho iririmo tubido ni umuti w'amazi. Iyi miti yose ikomoka ku bimera cyangwa se ni imiti gakondo.

Aya ni amoko y'imiti agiye atandukanye. Iyi miti rero irifashishwa cyane kandi iravura. Ibi bimera bikaba biri mu mavaze, nk'uko bigaragara hari amagambo yandikishije ibara ry'icyatsi kibisi agaragaza yuko ari ibyatsi bivamo imiti.

Aya ni amoko y'imiti igiye itandukanye amwe ari mu macupa andi akaba mu bikarito, iyi miti yose iravura kuko ku cyapa kiri hejuru turi kubona inyuguti zandikishijwe amabara y'umweru zigira ziti tangira urugendo rwawe nawe witwaza uyu muti.

Ubu ni ubwoko bw'umuti ukozwe mu bimera cyangwa se umuti gakondo, ni ikiganza kiwufite mu ntoki kiri kuwitegereza maze bakareba bakishima kuko umuti wa gakondo wahozeho kandi ukavura neza abantu barawizera.

Aya ni amoko y'imiti igiye itandukanye iri mu dukarito, iyi miti ikorwa mu bimera bakayitunganya neza bakayitaho kugeza bayigurishije isa neza kandi ikavura.

Ubu ni ubwoko bw'imiti ikomoka ku bimera aha ngaha ikaba iri mu murima aho harimo ibiti birebire bifite amababi mato n'ibindi bigufi ariko bifite amababi manini. Ahantu hari imiti gakondo Leta ikwiye ko harinda kuko iyi miti ni ingirakamaro.

Ibi ni ibimera bigiye bitandukanye, aha hakaba hari byinshi cyane bifite amabara agiye atandukanye arimo icyatsi ndetse n'umuhondo. Ibi bimera byose bivamo umuti gakondo uvura abantu. Kuva kera uyu muti warakoreshwaga kandi wizewe.

Aya ni amoko y'ibimera agiye atandukanye bikaba bifite amabara y'icyatsi kibisi, amababi y'umuhondo nk'uko bigaragara aha hantu ni heza, hakaba hari n'ibimera bikorwamo umuti gakondo cyangwa se umuti ukomoka ku bimera.

Aya ni amoko y'ibimera bifite ibara ryiza cyane ry'icyatsi kibisi kandi bigaragara ko bitoshye, ibi bimera rero babikoramo umuti kuva na kera abanyarwanda bikoreraga umuti ariwo bita umuti wa gakondo.

Aya ni amoko y'imiti ari mu makarito. Iyi ni imiti gakondo cyangwa se imiti ikomoka ku bimera, aho babitunganya neza, bagasuzuma ubuziranenge bwabyo, maze bakabifunga mu bikarito, bakabicuruza.

Iyi n'imiti gakondo igiye itandukanye ikaba iri no mu dusorori tugiye dutandukanye, iyi miti yose irifashishwa mu gihe waba warwaye, barayitunganya neza ukayinywa uyizeye kandi ikakuvurira ku gihe.

Ubu ni ubwoko bw'imiti gakondo bukaba bufunze mu icupa ryiza cyane ry'umweru hakaba hashushanyijeho uruyuki, hari n'undi uri ku gasahani ariko bigaragara ko ubumbye neza hakaba hari n'avoka isatuye ibi byose ni imiti.

Amoko y'imiti agiye atandukanye aha turi kubona ubucupa buto ndetse n'amacupa manini, hose hakaba harimo imiti, iyi miti yose ni imiti gakondo iba yateguwe neza kugira ngo n'abantu batizera neza iyi miti bayizere.